Nubwo ari muri covid cumi n'icyenda abantu bagiye kwa muganga kugira ngo babavure. Bicaye ku ntebe y'urubaho irambuye bategereje kwakirwa n'abaganga barimo kubakorera amafishi. Umubyeyi umwe wazanye umwana w'umukobwa arimo kumukorera ifishi kugira ngo bamuhuze n'umuganga umuvura.

Ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima benshi bafata ifoto y'urwibutso bishimiye umurimo wabo, nyuma y'amahugurwa bari bamaze gufatira aho bahurira. Harimo abagabo benshi ndetse n'abagore benshi bambaye amajiri ndetse n'impuzankano iranga abajyanama b'ubuzima.

Umwana w'umuhungu waje kuvuzwa n'umubyeyi we, umuganga arimo aramufata ibipimo by'ubuhumekero mu gatuza akoresheje igikoresho bakoza mu gatuza bakabyumvira mu matwi, bakamenya uko umwana ahumeka ndetse n'uko batangira kumukurikirana.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'umukara, urimo gutanga imbwirwaruhame mu nama yitabibiriwe n'abantu muri sale nini ndetse n'abantu bose ni benshi, bicaye ku ntebe zabugenewe, imbere hari abandi bayobozi bicaye ariko urimo gutanga ibiganiro, bose baramukurikiye ndetse bafite n'udupapuro n'amakayi bagenda bandikaho.

Abajyanama b'ubuzima benshi, harimo abagore n'abagabo, bahagararanye n'umuyobozi wari umaze kubaha amatelefone yo kwifashisha mu itumanaho, mu gihe cyose baba bari muri uyu murimo utoroshye bakora, kugira ngo bubungabunge ubuzima bw'abaturage.

Ihuriro ry'abagore bagera mu icyenda biga imyuga, umwe yambaye ikanzu y'umuhondo, arimo aripima ijipo yadoze, anezerewe ko amaze kumenya umwuga yari amaze iminsi yiga, ndetse yishimiye no kuba yakwambara umwenda yidodeye.

Abana bane b'abahungu bari ku ivomo rusange. Barimo kuvomera ijerekani imwe, umwe ari inyuma afashe icyuma kiba inyuma kizamura ukanamanura kugira ngo amazi abashe kumanuka ave muri robine ajye mu kivomesho washyizeho. Abandi bahagaze bategereze ko na we arangiza na bo bakavoma. Ijerekani y'umuhondo yari iriho yuzuye banayipfundikiye.

Abantu batandatu bari mu nama, umwe arabayoboye, ni abagore babiri b'abazungukazi n'abagabo bane, umwe ubayoboye yicaye hagati y'amabendera abiri, ibendera rimwe ni iriranga igihugu cy'u Rwanda.

Uruzitiro rushyira mu kato ahantu bitewe n'icyorezo cyatewe cyateye, kugira ngo birinde gukwirakwira kw'icyo cyorezo, abaganga bambaye imyenda ibapfuka umubiri wose kugira ngo nabo barinde ubuzima bwabo kujya mu kaga.

Umuyobozi urimo gukoresha inama abaturage afite agakayi arimo gusomamo ibyo arimo kwifashisha, afite indangururamajwi ndetse abaturage bicaye mu ihema ryubakishije amabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ivomero rusange abana bagiye kuvoma bane b'abahungu. Hariho ijerekani imwe irimo kuvomerwa y'umuhondo. Undi afite ikintu bifashisha bazamura banamanura kugira ngo amazi abashe kumanukira mu kivomesho bashyizeho.

Ni umugabo barimo kuvoma ku ivomo rusange, umugore afite ijerekani arimo arayivomera, n'umugabo afite ijerekani ye arimo arayivomera, bose baravoma bitonze kugira ngo batamena amazi bakayangiza kandi amazi aba akenewe mu buzima bwa buri munsi.

Abantu umunani bicaye ku meza y'ikiganiro, barimo kujya inama kubyo barimo kuganiraho bijyanye n'akazi bakora, harimo abagore babiri n'abagabo batandatu bose bicaye hamwe, bafite udukombe tw'icyayi barimo kunywa.

Umwana w'umukobwa urimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mu gihe avuye mu bwiherero, agira ngo yikureho umwanda ushobora kumuteza indwara zitandukanye mu gihe yaba atakarabye intoki avuye ahantu handuye.

Umwana urimo kuvoma amazi avomera mu ijerekani, ni ikidendezi cy'amazi adatemba, ni amazi mabi, Uramutse uyakoresheje ashobora kugutera indwara zitandukanye z'impiswi, inzoka, nk'amibe ndetse na arubiyore kubantu bayakandagiramo.

Umukobwa arimo kunywa amazi ava kuri robine anywesha intoki, iruhande rwe hateretse intebe ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma ye hari abantu bahahagaze, amazi arimo kunywa ntago ari amazi asukuye ashobora kumutera uburwayi butandukanye.

Umuhungu wambaye ikabutura y'ikigina n'ishati ifite amabara y'icyatsi kibisi. Ari ku ivomero, hateretse indobo ze ebyiri z'amabara y'ubururu, arimo arakaraba intoki neza kugira ngo aze gutangira kuvoma we ubwe adashobora kwanduza amazi yavomye.

Abagabo babiri b'abayobozi b'ikigo kimwe cy'ubuzima cyo muri Repubulika y'amajyepfo ya Sudani, barimo gukoresha inama bicaye ku ntebe ndetse bafite n'ameza ariho amacupa y'ibirahure by'amazi bashobora kunywa bayakeneye, n'amakayi n'amakaramu barimo kwifashisha mu gutanga ayo mahugurwa.

Ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye, kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, imbere hari amashami abiri afatanye inyuguti zanditsemo ni UNWFP.

Umwana urwaye urembye ndetse ugaragara nk'uri mu mirire mibi, yazanwe kuvuzwa na nyina, na we ubona utameze neza udafite ubuzima bwiza rwose, arimo kwitabwaho n'abaganga babiri ndetse bashishikaye vuba cyane kugira ngo barebe ko bazahura ubuzima bwe buri mu kaga.

Mu kigo nderabuzima ababyeyi batwite n'abandi baje kwivuza indwara zabo ndetse n'abaje kuvuza abana, bazindutse barimo kubakira umwe umwe, uvuza umwana akamujyana n'uwivuza akijyana, bakayoborwa uburyo bari bukurikirane inzira igana ku baganga.

Ivomo rusange ririho abantu bane. Umugore umwe, umwana w'umukobwa umwe n'abandi bana babiri batoya b'abahungu. Umwana mutoya w'umuhungu afite ikivomesho cye gitoya cy'ibara ry'umuhondo n'ikindi cy'ibara ry'umweru arimo kuvomera. Umukobwa arimo kuzamura icyuma gicometse kuri robine kibafasha ko amazi amanukira mu kivomesho.

Umwana muto wari urwaye, wajyanywe na nyina kwa muganga. Umuganga arimo aramwitaho, amufata ibipimo kugira ngo abashe kumenya indwara arwaye, amwiteho amuvure, aze gusubira mu buzima busanzwe.

Abakobwa babiri, umwana umwe w'umukobwa, umugore umwe ufite umwana mutoya, ndetse aho yicaye afite ibyangombwa yaje yitwaje byo kumufasha igihe umwana yaba agize ikindi kintu akenera cyane cyane ibimufasha mu isuku.

Umwana w'umukobwa ari ku ivomero afite indobo ze eshatu arimo gukaraba intoki anazoza kugira ngo aze kuzivomeramo amazi zose zisa neza; ebyiri zirapfundikiye indi arimo koza yo ntabwo ipfundikiye arimo arabikora neza yitonze kandi atangiza amazi kuko robine yayifunze.

Umugabo n'umwana we barishimye barimo baraseka, arimo aramukorera ijerekani irimo amazi, ifite ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye wita ku bana Unicef.

Abana barindwi b'abahungu barimo kunywa amazi banywesheje intoki, ava muri robine bahita bayanywa, ntabwo asukuye, ashobora kubateza uburwayi butandukanye kuko amazi adatetse ndetse adafite indi miti yica mikorobe irimo bashyizemo, ni mabi ku buzima bw'umuntu.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, arimo guhabwa urukingo yambaye impuzankano y'ikigo cy'ishuri yigaho ndetse n'abandi banyeshuri bategereje guhabwa urwo rukingo, baruhabwa n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga.

Abana benshi b'abanyeshuri bafite ibikombe byo kunywesha amazi avuye mu gakoresho kabugenewe, kayungurura amazi mabi kakayagira meza, barimo kuyanywa bishimye kuko babitojwe n'abarezi babo ko kunywa amazi mabi atari byiza.

Abantu batatu bakora mu bijyanye no gushishikariza abantu, kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi igihe atwite. Barafata ifoto y'urwibutso bibuka ibihe bitandukanye bagize muri icyo gikorwa bamazemo iminsi.

Umugezi w'amazi atemba abantu barimo kuvoma bakoresheje imivovo y'insina. Ni amazi mabi atemba hagati y'imisozi y'ibiziba, ntabwo akwiriye kunyobwa kubera ko atera uburwayi butandukanye cyane cyane uburwayi bw'impiswi.

Umubyeyi n'umwana barimo baravoma, bafite amajerekani ateretse ndetse n'indi irimo kuvoma, baravoma bakoresheje icyuma bazamura bamanura kigatuma amazi abasha gusohoka akajya mu ijerekani, abandi bantu bose baje kuvoma bahagaze neza barindiriye ko barangiza na bo bakagerwaho.

Inama y'abakozi b'ikigo bose bakorana, yitabiriwe n'abantu bagera mu munani, buri wese afite mudasobwa imbere ye, icupa ry'amazi yo kunywa, ndetse bakurikiye neza bitonze, kugira ngo ibyo bigira muri iyo nama, bibagirire akamaro mu mikorere yabo ya buri munsi.

Umuganga w'umugore, afite igitabo kinini, ikaramu na telefone, arashishikariza abantu gukomeza kwirinda SIDA kuko igihari ndetse igikwirakwira, arimo kubaza umugabo ibibazo, amusubiza, undi nawe we akabyandika mu gitabo.

Abana batoya benshi bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umuhondo bicaye ku ruziga muri sale irambuyemo imikeka. Hagati yabo hagiye harimo abantu bakuru barimo kubigisha ibintu bitandukanye.

Umwana mutoya w'umukobwa wazanywe n'umubyeyi we kumuvuza, umuganga arimo kumutera urushinge umwana we yitonze kuko urushinge rurababaza cyane, umubyeyi we amufashe mu maboko kugira ngo atinyeganyeza bikabangamira umuganga urimo kumuvura.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo w'umwirabura wambaye kositimu n'amadarubindi y'amaso ndetse n'umugore w'umuzungukazi, bafite igikapu cyanditseho Visit Rwanda, gishishikariza abanyamahanga gusura u Rwanda kugira ngo barebe ibyiza rwagezeho.

Abana babiri barimo kuvoma, umwe ni umunyeshuri yambaye impuzankano y'ikigo cy'ishuri yigaho, arimo arafasha akana gatoya kuvoma amazi bavomera mu kajerekani k'ibara ry'umuhondo. Iruhande rw'uwo mugezi haratambuka urujya n'uruza rw'abantu, abana ndetse n'abakuru.

Abana bane bunamye mu kidendezi barimo kuvoma amazi. Baravoma bavomera mu bivomesho byabo kugira ngo bayatware imuhira bajye kuyakoresha, gusa aya mazi ntago ari meza, ntabwo ari amazi wagira umuntu inama yo kuyakoresha, kuko aba afitemo ubwandu bwinshi cyane butandukanye bwateza uburwayi.

Abagore batatu, barimo kuvoma amazi, babiri barimo barafasha mugenzi wabo, kuzamura amazi bakoresheje itiyo iba inyuma bazamura banamanura, kugirango amazi abashe kumanuka muri robine, undi na afite indobo, nziza y'ubururu, arimo aratega amazi kugira ngo narangiza kuvoma, na bagenzi be babone umwanya bavome.

Abayobozi b'igihugu ndetse n'aba polisi y'u Rwanda, barimo guha abana amata kugira ngo bashishikarize ababyeyi babo guha umwana amata kuko ari ingenzi ku buzima bw'umwana bwa buri munsi.

Abana babiri batoya barimo gufashanya gukaraba intoki, umwe afite igikombe arimo arasukira amazi mugenzi we ku biganza kugira ngo yisukure intoki, kuko zari zanduye kandi ubwandu buba buri ku ntoki butera indwara zitandukanye zirimo impiswi.

Abana babiri b'abahungu, umwe arimo gukaraba yifashishije indobo, afite isabune, arunamye arimo gukaraba, yambaye ikabutura y'umuhondo n'isengeri y'umukara, mugenzi we afite ibinika y'ubururu irimo amazi ari bumusukiremo igihe ayo afite ara bube arangiye.

Abaganga bari mu cyumba cyabo barimo gukora amaraporo buzuza ibitabo n'amafishi y'abarwayi, umwe aricaye ategereje icyo bamuha kugira ngo na we akomerezeho ku byo barimo gukora batangiye, bafite ibitabo binini cyane ari byo barimo kwandikamo ndetse bambaye impuzankano z'abaganga.

Umwana w'umukobwa yicaye imbere y'ivomero, arasutaraye arimo araseka ateze ibiganza bye aho amazi amanukira kugira ngo ayayore ayanywe. Yavomye amajerekani ye uko ari atatu, abiri y'umuhondo n'imwe y'ubururu arayatereka.

Inama y'abaturage yabereye muri salle y'ikigo nderabuzima, barimo kuyikoreshwa n'umuganga abasobanurira ibijyanye n'ubuzima ndetse no kwirinda indwara zitandukanye n'ibyorezo, birimo kwaduka muri iyi minsi, bose bateze amatwi bitonze, bamukurikiye nawe arimo kubasobanurira neza.

Kwa muganga aho bapimira abana ibiro baje kubavuza cyangwa se kubakingiza. Hamanitse umunzani hejuru uba ufite ikintu k'igifuka hasi kimeze nk'ikariso bashyiramo umwana, umwana akabasha kugaragaza ibiro bye hejuru mu munzani uri hejuru, hahagaze umugabo urimo gusobanurira abari aho ibihakorerwa.

Umuganga arimo guha abana inkingo, yabasanze iwabo mu midugudu, ababyeyi benshi bitabiriye, bazanye abana babo kugira ngo bahabwe inkingo z'ibanze kuko ari ingirakamaro ku buzima bwabo bw'ejo hazaza.

Abantu batatu barimo kuyobora inama yagenewe abagenerwabikorwa babo. Abagenerwabikorwa bicaye hamwe batuje bakurikiye icyo abo bayobozi bari imbere, barimo kubabwira muri iyi nama yabahuje.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri urimo gukaraba intoki, yasobanukiwe isuku y'intoki ko ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, arimo arakaraba n'amazi meza akoresheje kandagirukarabe ifite akabase gafite ibara rya oranje.

Umurwayi urimo guterwa urushinge n'umuganga, umuganga yambaye udufunganotoki dushobora kumurinda ko yagira ibikomere bitandukanye, mu gihe arimo gutera urushinge umurwayi n'umurwayi yazamuye umwenda kugira ngo umuganga abashe kumutera urushinge neza.

Mu cyumba cy'amahugurwa hicayemo abantu benshi ndetse abandi babuze aho bicara barahagarara barimo gukurikira imbere urimo kugira icyo ababwira, ndetse n'undi urimo kugenda abanyuramo w'umugabo abasobanurira ibyo batarimo kumva ndetse abafasha kuba bitonze muri iyi sare.

Umwana w'umuhungu urimo kuvoma mazi kuri robine, icometse ku kigega cy'umukara gifata amazi ava ku mabati y'imvura, arimo gu kuvomera mu gikombe cy'umweru kugirango ngo ayakoreshe yirinda umwanda.

Umwana mutoya n'umubyeyi bari mu murima w'imboga, barishimye barimo gusarura imboga kugira ngo umubyeyi we ajye kuzimutekera kuko imboga ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'umubyeyi n'umwana mutoya.

Ibendera rifite amabara atatu igice kinini cyane kigizwe n'ibara ry'umukara, ikindi gice kiri mu nguni y'ahagana hirya kigizwe n'ibara ry'umuhondo, muri iryo bara ry'umuhondo harimo akandi kabara gatoya k'umweru.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomo rusange, arimo kuvomera amazi mu biganza bye ashobora kuyanywa kandi aya mazi ntago ari meza, ashobora guteza indwara zitandukanye, zaba indwara z'impiswi cyangwa se izindi ndwara zituruka ku mwanda kuko amazi avomwe aba agomba kubanza agatekwa akabira.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo ipantaro y'umukara afite ikivomesho cy'umweru, ari ku ivomero rusange arimo aravoma akoresheje intoki azamura icyuma gisohora amazi kugirango abashe kuvomera igikoresho cye yazanye kuvoma kandi ahe umwanya n'abandi bataravoma babashe kuvoma.

Abaganga babiri umugore n'umugabo barimo gufata umurwayi ibipimo by'umuvuduko w'amaraso, umurwayi aryamye ku gatanda yitonze abahereza ukuboko, kugira ngo babashe gufata ibipimo byo mu mutsi bamenye ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso we uko ugenda.

Abantu benshi batandukanye bari muri sale y'inama, barimo kwiga ku bintu bitandukanye bijyanye n'akazi ka bo, buri wese afite icupa riteretse imbere ye ry'amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo agomba kwandikamo afite n'ikaramu yandika ibyo yumviye muri iyo nama kugira ngo bimugirire akamaro mu kazi ke ka buri munsi.

Yateranye ku itariki makumyabiri z'ukwacumi ibera i Kigali bibiri na makumyabiri na kane, yari ikoranyije abantu igambiriye kwigisha abantu ibijyanye no guhagarika icyorezo cya mabaga.

Umugore urimo gukoresha kandagira ukarabe mu gukaraba intoki ze neza, harimo amazi arimo gukaraba kugira ngo intoki ze zibe zisa neza mu gihe agiye gukora iyindi mirimo isanzwe ya buri munsi.

Umwana w'umukobwa afite ikivomesho cy'umuhondo, undi w'umuhungu arimo arazamura amanura icyuma gifasha amazi kumanukira mu kivomesho, abandi benshi bategereje ko uwa mbere arangiza nabo bakavoma ubujerekani bwabo bazanye.

Abana batoya barimo gukarabywa intoki n'amazi meza, kugira ngo bamenyere umuco wo gukaraba intoki baba bagiye gufata amafunguro, bamaze kuyafata cyangwa se bavuye mu bwiherero, kugira babashe kunoza isuku.

Umugore uteruye umwana ukiri mutoya, yitabiriye gahunda yo kuvoma amazi yo gukoresha ku ivomo rusange, arimo kuvomera mu ndobo ye y'umukara kugira ngo atware amazi ajye kuyifashisha mu buzima butandukanye bwe iwe mu rugo.

Umugabo urimo gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarababe, ikoresheje akajerekani k'umuhondo. Igiti gikandagira akandagiraho amazi akabasha kufunguka mu kajerekani agakaraba, arimo gukaraba yishimye yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ijya kuba ubururu.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura n'umupira, ari kuri robine ifunguye ateza ikiganza kimwe amazi akayafata akayakara mu maso no mu mutwe, yubuye umutwe aseka ariko ntabwo ari byiza kuko ibi bipfusha ubusa amazi, aba agomba gufata amazi mu kintu agomba gukarabiramo, akagishyira ku ruhande kugira ngo agabanye amafaranga yishyurwa amazi ya buri kwezi.

Abagabo bari kumeza barimo kujya impaka zitandukanye bagira bungurane ibitekerezo, bafite ibirahure by'icyo kunywa n'ibipapuro bandikaho, ibyo barimo kujyaho impaka bagambiriye gukemura ibibazo bimwe na bimwe bafite.

Abagabo n'abagore bari bamaze gufata amahugurwa bishimiye gufata ifoto y'urwibutso rw'uwo munsi kugira ngo bazahore bibuka ibyo bigiye muri ayo mahugurwa ndetse babashe no kubishyira mu bikorwa n'umwete wabo wose.

Benshi barimo abaganga ndetse n'abayobozi hamwe n'abayobozi ba polisi bitabiriye gahunda yo gupimisha abana kugira ngo babashe kumenya abana niba batari mu mirire mibi bagapima umwana mutoya uburebure kugira ngo barebe ubuzima bwe uko buhagaze niba atari mu mirire mibi kugira ngo abashe kwitabwaho

Abagabo babiri bambaye amakositimu y'umukara n'amashati y'ubururu, umwe afite ibitabo mu ntoki, undi afite terefone barimo barahana ibiganza, baganira ku bijyanye no kurwanya ndetse no kwirinda ubwandu bushya bw'icyorezo cyateye cyitwa Marburg.

Umuhungu arimo gufungura robine icometse ku ndobo ikoze mu bwoko bwa kandagira ukarabe. Iteretse ku ntebe kugira ngo abazajya baza gukarabiraho intoki bose bajye bakaraba bitabagoye, ubundi birinde indwara z'umwanda zishobora guterwa no kuba ufite intoki zanduye.

Abaganga barimo gufata amaraso yo mu rutoki abarwayi, umuganga umwe w'umusore arimo arafata amaraso umurwayi n'undi muganga w'umukobwa arimo arafata amaraso umurwayi mu rutoki, bifashishije udushinge bajomba mu rutoki rw'umurwayi amaraso akaboneka bakabona uko bayapima.

Itangazo ryashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, kirerekana ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'ingimbi mu gihe cya Covid cumi n'icyenda mu Rwanda.

Umugabo w'umwirabura ubabaye cyane urimo kurira, amaso ye yatukuye, amazuru aravamo ibimwira byerekana ko afite agahinda kenshi, arababaye cyane iminwa ye yatukuye ndetse amaso aragaragaza intimba imuri ku mutima.

Amahugurwa yahuje ababyeyi b'abarundi, ku nkunga y'abanyamerika kugira ngo basobanurirwe neza uburyo barera abana babo neza, ndetse bakabatunga neza mu muryango uzira amakimbirane n'imirire mibi.

Aba bari mu muhanda bari mu rugendo rw'amahoro rwo kurwanya ihohoterwa, barimo kugenda bari kumwe na polisi y'igihugu ndetse bafite igitambaro kinini cyanditseho ko barimo kurwanya ihohoterwa kandi ko ari inshingano yabo, bafite n'indangururamajwi bagenda bavugiramo ubutumwa bwabo.

Abantu batandatu barimo akana kamwe, abagabo babiri n'abagore batatu, bicaye ku ntebe z'urubaho ziteretse imbere y'inyubako ndetse baratuje barakurikiye, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu urimo kugira ikintu ababwira.

Umwana muto wikoreye amaboko, urimo kurira, amaso yatukuye, amarira arajojoba ku matama, ndetse nyina amuteye umugongo, afite ibiti mu maboko, bigaragara ko yari arimo kumukubitisha, aragenda agana hirya gato, ahandi hari abantu benshi, harimo n'akandi kana gatoya, yari yarakaye.

Umurwayi wo mu mutwe yicaye ku nzira, arasa nabi cyane, yambaye inkweto zashaje, imyenda yashaje kandi myinshi yagiye yirundaho, igitambaro cyo mu mutwe gisa nabi na cyo gishaje, amacupa yashizemo amazi yagiye atoragura arambitse iruhande rwe, ndetse n'ibyatsi byinshi yagiye atoragura arimo kubirya.

Umubyeyi urimo gukora imirimo yo mu rugo anarera abana akikiye umutoya, umukuru amwicaye iruhande arimo aramuhendahenda kugira ngo abashe gukomeza kwikorera imirimo ye yo mu rugo ya buri munsi.

Umukecuru wicaye mu iduka ricuruza imiti ya gakondo, ivura uburwayi butandukanye. Yambaye imyenda idodesheje mu bitenge, yambaye urunigi mu ijosi rw'amasoro rusa ikijuju, arishimye kandi asutse imisatsi ye inweri.

Umugabo munini w'umwirabura, ubyibushye, yegamye ku rukuta areba hejuru, arimo gutekereza ibintu byinshi cyane, ubona yaburiye ibisubizo, yambaye ishati ndende igera hafi kumavi, ifitemo amabara y'umuhondo, umutuku, n'umukara.

Umusaza ukuze, ni munini arabyibushye yambaye ishati y'amaboko maremare n'umwitero w'umuhondo w'imyenda ya kinyarwanda, yambaye ingofero nini, afite n'icumu arimo guhamiriza aseka yishimye, afite ibihanga mu kanwa ke.

Abakozi bakora mu kigo kimwe bazindukiye muri gahunda yo gutera igiti, bibanze ku biti bitanga imbuto ziribwa kandi barabungabunga n'ibindi bateye mu bihe byabanjije.

Umwana w'umuhungu wicaye wenyine arunamye, yipfutse mu maso yambaye umupira w'umukara n'agasatsi gakeya arimo aribaza ibibazo byinshi yaburiye ibisubizo, niyo mpamvu yipfutse mu maso kugirango arebe ko yabasha gutekereza cyane.

Umugore ukorera umushinga witwa inshuti mu buzima, afata ifoto y'urwibutso yishimye arimo guseka ahagaze, yambaye imyenda ye myiza y'umukara n'umutuku ndetse afite ikarita imuranga mu kazi.

Umugore w'umuhinzikazi uvuye mu murima we, yikorera igitebo cyirimo imigozi y'ibijumba agiye gutera, ndetse ishobora kuba itwikiriyemo n'ibindi bintu bimeze nk'ibyo yakuye nk'ibijumba ajyanye iwe imuhira, kugira ngo ajye kugaburira abana.

Urubyiruko rushoje amahugurwa ruri kumwe n'ababahuguye barimo gufata ifoto y'urwibutso hanze y'aho bakoreye ayo mahugurwa yabo, bambaye imipira isa ubururu bose ndetse bishimiye amahugurwa bari bamaze kwakira.

Abantu benshi abagore, abagabo, abana, abasore, inkumi, bafite amabendera aranga Igihugu cy'u Rwanda, bayamanitse barimo guseka baririmba bamamaza ibyo u Rwanda rumaze kugeraho.

Ubuvuzi bugendanwa bw'uburwayi bwo mu mutwe, bwakorewe mu Bugesera, bwegerejwe abaturage kugira ngo babashe gukurikiranwa ndetse banabamurikire ku mugaragaro ubwo buvuzi uburyo bukora, bita ku buzima bwo mu mutwe bw'abaturage.

Abagore benshi bahagaze barimo gukoma amashyi, bishimye bakira umushyitsi mukuru mu mahugurwa batumiwemo, buri wese ahagarariye ikigo akoramo. Baranezerewe barindiriye kwicara, igihe umushyitsi mukuru ari bube amaze kugera mu byicaro bye.

Umugore yo mu mutwe wagiye mu kimoteri bamenamo imyanda afata imyanda myinshi ayambara nk'imyenda ayambara nk'isaha, yafashe ibirahuri by'amaso byamenetse arabyambara mu maso, ya myanda ayikoramo imbunda ahagaze iruhande rw'ibipine by'imodoka byacitse, ndetse n'ibikoresho bajugunyamo imyanda.

Umugore wa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame, arimo kuvuga imbwirwaruhame ayibwira abantu ku munsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, abasobanurira uburyo bukwiye kubungabungwa.

Imiterere y'ubwonko bw'umuntu, n'umuyoboro uhuza ubwonko n'uruti rw'umugongo unyuze mu ijosi ry'umuntu, uko bimanutse, ndetse n'uko biba biteye igihe ubwonko buhagaze, mu gice buhagararamo cy'umutwe w'umuntu.

Umugore wicaye iwe mu rugo mu nzu ye ishaje, munsi y'idirishya harahomotse, inzu ye hasi n'ibitaka, harambuyemo umusambi, aricaye, aritonze, ku ntebe y'urubaho na yo ishaje, akenyeye igitenge, yambaye n'udukweto dufunguye n'ishati y'amaboko maremare.

Sale nini irimo abantu benshi bicaye. Umugore umwe ufite imisatsi myinshi y'umukara izirikiye inyuma, afite n'isakoshi y'ikigina, ahuye n'umwana w'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku na we ufite imisatsi irekuriye inyuma mu mugongo. Barimo baraganira bishimye kuko bari bakumburanye.

Ihuriro ry'urubyiruko rwitabiriye inama, bicaye bitonze bakurikiye urimo kubabwira uri imbere yabo, bambaye imipira y'imikara ifite uturangantego dusa twose, imbere mu gatuza bicaye buri wese afite icupa ry''icyo kunywa arimo kugenda anywa mu gihe akurikiranye ibiganiro.

Abantu umunani, abagore batatu, abagabo batanu, bari mu imurikabikorwa ry'ibikorwa byabo ndetse banejejwe no gusobanurira abantu ibyo bakora, kugira ngo babashe kubishyira ku isoko ry'umurimo.

Umukecuru wambaye imyenda idoze mu mwenda w'igitenge afite amabara y'icyatsi, afite ikibazo cy'amenyo kuko atangiye kuzanamo imyanya rimwe ritandukana n'irindi kandi n'amabara y'amenyo ye agahinduka cyane ndetse n'ishinya ikangirika.

Umukobwa wicaye ku ntebe yo ku rubaraza yambaye ipantaro y'ikoboyi n'isengeri y'umukara, arimo araseka yishimye, araramye areba hejuru, afite imisatsi myinshi ishokoje ndetse n'ibikomo yambaye ku maboko n'umukufi mu ijosi.

Abantu cumi na batandatu bicaye ku ntebe harimo umugabo umwe w'umwera w'umunyakanada wari waje kubafasha kubaha imfashanyo asanzwe abaha barahagaze abagore baricaye imbere, abagabo bahagaze inyuma.

Abana benshi harimo abatoya n'abagiye kwigira hejuru ho gatoya y'imyaka irindwi, umunani cyangwa icumi. Hagati yabo hicayemo umukecuru ukuze. Barimo gufata ifoto bareba imbere bose bareba ahantu hamwe aho ubafotora aherereye.

Inyandiko zerekana umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, wizihizwa buri gihe ku rwego rw'Isi, ku itariki ya cumi z'ukwa cyenda buri mwaka kandi bigakorerwa ahantu hose ku Isi.

Igikanka gifasha kwiga ku miterere y'amenyo, amenyo y'imbere, amabwene, imizi y'amenyo, ibijigo ndetse na za muzitsa, kugeza no ku magufwa yo mu ishinya imizi y'amenyo itereyeho.

Umwana mutoya w'umukobwa, umuganga arimo kumuvura amenyo, afite akuma arimo gukoresha mu menyo ye, yambaye udupfukantoki, ndetse arimo arabikora yitonze cyane kugira ngo atamukomeretsa.

Umugabo urimo gusukura amenyo ye akoresheje akadodo, kuko ni gato cyane gashobora kwinjira hagati y'iryinyo n'ibindi kagakuramo imyanda yisesetsemo mu gihe cyo kurya cyangwa icyo kunywa ishobora kwangiza amenyo ku buryo budasanzwe.

Urimo koza amenyo ye akoresheje akadodo araseseka akadodo hagati y'amenyo abiri kugira ngo azamure imyanda irimo iba yarisesetsemo cyane cyane igihe arimo kurya iyo myanda iyo utayikuyemo itera amenyo kwangirika bikakuviramo uburwayi bukomeye bw'amenyo.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi arasamye arimo arerekana imiterere y'amenyo ye n'ururimi, afite amenyo meza cyane y'urwererane akomeye adafite umwanda numwe bigaragara ko ayitaho cyane, no mu maso arasa neza yogosha umusatsi afite isuku ku mubiri we.

Umugabo ubyutse yambaye umwenda bambara bamaze koga cyangwa bagiye koga, arimo koza amenyo ye rimwe kuri rindi, yireba mu ndorerwamo kugira ngo abashe gukuramo imyanda yose, ishobora kumutera uburwayi bw'amenyo.

Umugore urimo gusukura amenyo ye akoresheje akantu binjiza mu menyo kagakuramo utwanda tuba twasigaye hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo amenyo ye abeho afite isuku ihagije, kuko isuku ariyo soko y'ubuzima.

Cyerekana imiterere yose y'amenyo ari mu kanwa, ay'imbere, amabwene, ibijigo ndetse na muzitsa. Ndetse cyikerekana neza imiterere y'imizi y'amenyo mu ishinya uko iteye, kugira ngo bajye bakigiraho abiga ubuvuzi bw'amenyo.

Abana bato biga mu mashuri abanza, barimo kwigishwa uburyo bagomba koza amenyo, buri wese afite uburoso bwoza amenyo n'umuti wo kogesha amenyo ndetse n'amazi meza kugira ngo nibagera iwabo mu rugo bajye babasha kubikora nk'uko babyeretswe n'abarimu.

Intoki ebyiri z'umugore urimo guseka neza, azerekeje ku menyo ye y'urwererane agirira isuku neza, kugira ngo yerekane uburyo amenyo umuntu agomba kuyagirira isuku, kugira ngo ubuzima bwe bwo mu kanwa bubashe kumera neza.

Umusore urimo guseka wishimye, afite amenyo y'urwererane meza, afite isuku kandi akomeye, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru ari ahantu hafite ibara ry'umuhondo, aranezerewe cyane.

Icyumba cyo kwa muganga mu isuzumiro, aho basuzumira umurwayi, hari intebe bicazaho umurwayi, bashaka bakayihina cyangwa bakayirambura, bashaka bakayizamura kugira ngo bamurebe neza, bitewe n'igice bashaka kumuvuramo bakitondeye.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'amenyo, inyubako yayo ndende igeretse inshuro eshatu nziza kandi inyubako igezweho, kiri iruhande rw'umuhanda wabagenzi ahagana hejuru gifite ibara ry'icyatsi, umuhondo wijimye n'ubururu.

Umurwayi w'amenyo abaganga barimo kumwitaho bashinzwe kuvura amenyo, bafata ibizamini bamupima bambaye ibikoresho bishinzwe kureba mu kanwa bituma babona urumuri rwinshi rumurika mu menyo. Amwe bayamukuye n'andi barimo baramupima kugira ngo barebe icyo bashobora kumukorera kugira amenyo yongere gusubirana imbaraga...

Umusore wambaye umupira w'umweru, arimo koza amenyo akoresheje akadodo kugira ngo akure imyanda yagiye ifata hagati y'iryinyo n'irindi, ayikuremo neza kuko iyo itinzemo, iteza uburwayi bukomeye bw'amenyo.

Umusore wicaye ku ntebe yicaye yegamye cyane amaboko ayafatiye imbere, yambaye akantu mu gatuza gatuma adashobora kwiyanduza n'umupira we w'amaboko maremare w'ikigina, arimo guseka anezerewe kuko araruhutse.

Umwana ufite ikibazo cy'amenyo, aryamye ku gatanda kwa muganga, umuganga afite utwuma akoresha mu menyo, kugira ngo arebe uburwayi bwayo, yambaye n'udupfukantoki, arimo aramuvura agira ngo amenye neza uburwayi arwaye, narangiza abukurikirane.

Umugabo urimo gusukura amenyo ye akoresheje akadodo kugira ngo akuremo imyanda imwe n'imwe mito iba yagiye yiseseka hagati y'iryinyo n'irindi, kugira ngo amenyo ye abeho afite isuku ayarinde uburwayi butandukanye buturuka ku mwanda.

Abashinzwe kwita ku buzima bw'amenyo barimo kuvura abana, umwana wese yicaye ku ntebe afite umuti w'amenyo, ndetse umuvura ari inyuma ye. Umwana arasamye umuvura arimo kureba mu kanwa k'amenyo ikibazo kirimo kugira ngo abashe kubona uko amukurikirana.

Umwana muto arimo koza amenyo ye akoresheje uburoso busa neza umuti w'amenyo ndetse n'amazi, utwinyo twe yadufatanyije kugira ngo atwoze neza imyanda irimo hagati ibashe kuvamo kandi arabikora abyishimiye cyane.

Umugore urimo koza amenyo ye akoresheje uburoso bwiza busukuye, umuti w'amenyo, yireba mu ndorerwamo kugira ngo arebe ko yabasha koza amenyo ye neza, akayakuramo umwanda wose, nta kibazo afite.

Igikanka k'igice cyo mu maso cyerekana imiterere y'amenyo, amenyo y'imbere, amabwene, ibijigo ndetse na muzitsa cyerekana neza imizi y'amenyo uko ishinze mu ishinya kugira ngo abiga kuvura amenyo babashe kubisobanukirwa neza.

Umugabo wambaye ubusa ku gice cyo hejuru arimo arasukura amenyo ye akoresheje akadodo akanyuza hagati y'iyinyo n'irindi kugira ngo akuremo imyanda iba yarafashemo, kuko uko igenda itindamo itera uburwayi bw'amenyo bushobora kugora umuntu ndetse no kuyivuza bikaba byamutwara umwanya n'amafaranga menshi.

Umurwayi ufite ibibazo by'amenyo aryamye ku gatanda, muganga arimo aramukurikirana, areba uburwayi afite ku menyo, amupima agira ngo abashe kumuha igisubizo cyo kuyavura cyangwa se kuyakuramo.

Umusaza ushaje afite imvi aricaye ku ntebe ateruye umwana w'umuhungu ukiri muto, ufite agakinisho ke mu ntoki, barishimye barimo gukina udukino twabo babumbye umunwa bafatanije amazuru.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, arimo gukurikiranwa n'umuganga ushinzwe kumwitaho. Arimo kumufata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso ku kuboko ndetse akamusobanurira neza uko ubuzima bwe buhagaze n'uko agomba kwitwara muri iyi myaka agezemo.

Umusaza ukuze cyane, arimo gusobanurirwa n'umwitaho byubuzima bwe, ibijyanye n'imiti arimo kumuha, arashaje, yambaye ibirahuri by'amaso, imisatsi ye yose n' imvi, ateretse imbere ye ikirahure cy'amazi yo kunywa.

Abakecuru batatu b'ikigero kimwe, babyibushye. Barishimye, barimo baraseka, bifata ifoto y'urwibutso, bibuka ibihe byiza bagiranye kugira ngo batazabyibagirwa.

Umuganga arimo gufasha umurwayi, akoresheje imyitozo ngororamubiri, bakoresha umugozi w'umuhondo bawukurura, kugira ngo abashe kurambura imitsi n'amagufwa, bigize amaboko n'intoki ze, kandi n'iz'agatuza ndetse n'iz'umugongo.

Umusaza ukuze ari iruhande rwa muganga ushinzwe kumukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo abashe kwirinda no kwivuza indwara zifata abari mu za bukuru. Umuganga arimo aramusobanurira ibijyanye n'uburwayi bwe ndetse amuha n'inama zitandukanye z'uko agomba kwifata muri ibi bihe arimo by'izabukuru

Ushinzwe kwita ku barwayi basheshe akanguhe, afite umurwayi wicaye mu kagare arimo aramusunika. Yambaye icyumvirizo mu ijosi, barimo baragana imbere bitegereza aho barimo kujya. Sare barimo kuvamo yicayemo abandi bantu, bicaranye babiri babiri.

Umurwayi ufite ibibazo by'ingingo arimo kumenyezwa n'umuganga kugendera mu kagare k'abarwayi kugira ngo azabashe kugenda neza nyuma y'uko igare rimumenyereje kugenda neza agorora ingingo ze zari zaragize ikibazo.

Babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri. Umwe ateze igitambaro cy'umutuku undi afite imisatsi isutse. Bose bambaye imyenda yabugenewe yo gukora imyitozo ngororamubiri, barimo gukora imyitozo yo kugendesha amaguru igihe kirekire.

Umukecuru ushaje wo mu cyaro yicaye iwe mu gikari aratetse atekesheje ibyatsi, inkono ipfundikijeho iyindi by'umukara biteretse ku mashyiga atatu, umuriro urimo kwaka arindiriye ko ibiryo bishya ngo ajye kurya.

Abantu bitabiriye imihango y'umuco wa kinyarwanda, harimo abasaza babiri bari imbere, bambaye imikenyero iranga umuco wa kinyarwanda n'ingofero zambarwa n'abantu bakuze b'abasaza, barishimye banejejwe n'ibyo birori bajemo.

Abakecuru babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bishimye bibanejeje cyane, barambuye amaboko, bambaye n' imyenda yabugenewe, kuko iki gihe baba bagezemo iyi myitozo nk'iyi iba ikenewe cyane, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu batanu, umugabo umwe n'abagore bane. Bari mu muhanda barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bagenda urugendo rurerure rw'amaguru. Bambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri n'inkweto zabugenewe n'udupfukamunwa mu ntoki, bibafasha kumererwa neza.

Bari mu murima w'amasaka bishimiye ubuhinzi bwabo n'umusaruro bubagezaho. Barishimye bamanitse amaboko barimo baraseka banezerewe cyane kuko ubuhinzi bwabo bwishimiye kandi n'ikirere kigaragaza ko kiri mu gihe cyo kubaha imvura nziza, izeza imyaka yabo neza.

Ihuriro ry'abagabo bato babiri n'abasaza bakuze, umwe ari imbere yabo arimo arabigisha uko bashobora gukoresha amaboko yabo badoda ibikoresho byo mu ngo bitandukanye, arimo aradoda igitebo akoresheje ibyatsi byumye.

Ufite ibibazo by'ingingo, umuganga arimo aramufasha kugira ngo abashe kugenda neza, agendera ku bikoresho byabugenewe bifasha abarwayi bafite ibibazo by'ingingo kumenyera kugenda, bafashijwe n'abaganga babakurikirana.

Ihuriro ry'abasaza n'abacyecuru benshi bicaye ahantu buri wese mu ntebe ye abasaza bambaye imicyenyero ya kinyarwanda n'abacyecuru bambaye imicyenyero igaragaza umuco wa kinyarwanda.

Umusaza uri ku meza arimo gufata ifunguro rye yishimye. Umugore we arahagaze arimo kumusukira umutobe w'imbuto mwiza mu kirahuri kiza gisukuye awukura mu kindi gicupa kiza cyabugenewe kibika umutobe w'imbuto. Amusukira kugira ngo aze kurenza kuri ibyo biryo arimo kurya.

Umukecuru urwaye yaje kwivuza umuganga arimo kumufata ibizamini, arimo gufata amaraso yo mu mutsi kugira ngo amukorere ikizamini abone indwara arwaye babashe kumukurikirana, bamuhe imiti ihwanye n'uburwayi arwaye abashe gukira.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru, bari ku meza bishimye baganira baseka, barimo gufata amafunguro agizwe n'ibyo kurya birimo imboga, imbuto, amazi yo kunywa ndetse n'ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga.

Ihuriro ry'abasaza barindwi bose bicaye ku rubaraza rw'inzu buri wese mu ntebe ye yitonze, umwe mu ntebe ndende isumba izindi, bafite inkoni babiri kandi hafi ya bose bambaye ingofero.

Umugore urimo guhabwa ibihembo bizamufasha mu buzima bwe kugira ngo akomeze kugira isuku, arimo arabihabwa n'abaganga, ndetse yishimye cyane kuko bigiye kumufasha mu buzima bwe, kugira akomeze kwirinda uburwayi.

Umusaza ushaje arimo kurya ibisuguti, yicaye mu muryango iruhande rw'abana babuzukuru be babiri agahungu n'agakobwa, na bo barimo barabirya bicaye akandi k'agahungu karimo kunywesha icyo kunywa kiri mu kabido gatoya k'umweru.

Umusaza n'umukecuru bibereye mu rugo bashaje, imisatsi yabo yahindutse imvi, umukecuru ahaye umusaza ikirahuri cy'amazi yo kunywa, umusaza arimo arakinywa yicaye, umukecuru ahagaze arindiriye ko arangiza kunywa akakimusubiza, akakijyana kukibika.

Umusaza n'umukecuru bashaje bari imuhira, baricaye barimo gusoma ku rupapuro amabwiriza y'imiti banywa, barimo barayasoma bitonze kugira ngo babashe kubyubahiriza nkuko muganga yabibategetse bibafashe mu burwayi bwabo.

Abagabo babiri bakuru, bambaye imyenda y'umweru n'umukara, buri wese afite icupa ry'amazi meza yo kunywa, bari mu myitozo ngororamubiri, barishimye, baranezewe ndetse bamwe baragenda baseka, kuko bazi gufata neza ubuzima bwabo.

Umwana w'umukobwa afite umupira wo gukina wa basikete. Arimo arawuhungisha papa we, papa we amwegera amwereka uko bakina basikete boro, kugirango ejo hazaza azavemo umukinnyi mwiza w'uwo mukino.

Umusaza ukuze arimo gusoma igitabo yitonze, afite ikaramu mu ntoki y'ibara ry'umukara, yambaye indorerwamo z'amaso zimufasha gusoma ndetse afite imvi mu mutwe no mu bwanwa yambaye ishati ifite ibara rijya gutukura.

Abagore babiri barimo umukecuru ukuze, bari mu gikoni barimo barategura neza imboga, bagiye guteka bazigirira isuku ihagije kugira ngo zize kubagirira akamaro harimo puwavuro z'umuhondo, inyanya ndetse n'izindi mboga zitandukanye n'imbuto, barimo kubisukura.

Umuryango w'abantu batanu umusaza n'umukecuru, umuhungu wabo n'umukobwa wabo ndetse n'umwuzukuru, barishimye baranezerewe bafashe ifoto nziza cyane y'urwibutso, bazajya banareba no mu myaka iri imbere bakibuka uko bari bameze muri iki gihe.

Umukecuru w'umwirabura ushaje, aricaye afite imisatsi y'imvi myinshi, ari kumwe n'umukobwa umwitaho ubuzima bwe bwa buri munsi, akamenya iby'uburwayi bwe ndetse akamenya n'impinduka zabaye ku buzima bwe nk'umuntu uri mu zabukuru.

Abantu umunani bicaye hasi bambaye imyambaro iranga umuco wa Uganda, bicaye batuje ndetse bateze amatwi urimo kubabwira ibyo yabahamagariye, barishimye baranezerewe barakurikiye kugira ngo bagire icyo bavana mu byo barimo kubabwira.

Abantu benshi bari mu muhanda w'ibitaka barimo kugenda, hari abakecuru babiri bashaje bafite inkoni kuko ntambaraga zihagije bafite zo kugenda niyo barimo kwicumba, barimo baragenda berekeje mu cyerekezo kimwe, umwe afite imvi nyinshi ku mutwe undi yiteza igitambaro cy'umukara.

Raporo yerekana uburyo bwo kuboneza urubyaro mu gihe cy'imyaka icumi, byanditse ku gipapuro cy'ubururu byandikishije amabara y'umweru ndetse iyo myaka icumi yo iri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Ababikira batatu bambaye impuzankano z'ababikira ndetse n'amadarubindi y'uburwayi bw'amaso, barakuze, barimo kugenda bakorwa mu ntoki banashimirwa n'umuyobozi wo muri Minisiteri y'Ubuzima, abashimira ku myitwarire myiza babagaragarije n'ubufasha.

Ibipimo bine byafashwe abantu bakekwagaho ko banduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende, bose birerekana ko nta n'umwe ufite ubwandu bw'icyo cyorezo.

Abagabo b'abaganga babiri bambaye imyenda y'umukara bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu bo muri Afurika y'iburasirazuba, bambaye amakote y'imikara amashati y'imikara karavati z'imikara umwe aricaye undi amuhagaze iruhande.

Umugore w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, yambaye igipima ubuhumekero mu ijosi rye, afite agapfukamunwayi yambariye ku kananwa, yambaye n'akantu bambara mu mutwe gafunga imisatsi kugira ngo itaza gupfuka ikaba yagira ibyo yangiza, arishimye, arerekana imbaraga z'abaganga.

Ukuboko k'umuntu mukuru kurwaye indwara z'uruhu. Zifite ibibyimba bito bito birimo imbere, ndetse n'ibisohoka hanze bitutumba, bigaragara ko bimurya cyane, kuko byagiye bigaragaza uruhu rudasa n'ahazima uko hasa.

Abantu bitabiriye inama y'ubushakashatsi ku buzima mu mwayakaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bari bavuye ku isi hose ibera mu rwanda, yari iyobowe n'abantu batandatu harimo abagore babiri n'abagabo bane. Abandi bose bayitabiriye baratuje bateze amatwi kugira ngo bumve icyabazanye ku bijyanye n'ubushakashatsi ku buzima.

Abantu barindwi bakora kwa muganga, bambaye imyenda y'ubwirinzi ibakingira kwandura icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, biteguye gukora akazi kabo kugira ngo barusheho kurwanya iki cyorezo cyadukiriye Isi.

Urutonde ruriho uruhererekane rw'uburyo tugomba kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima bwacu busanzwe, bigiye bikurikiranye biri mu mabara atandukanye, uvuye ku mabara asa n'umuhondo, ukagera ku mabara yijimye y'umukara.

Ikirangantego cya minisiteri y'ubuzima cy'u Rwanda gifite amabara y'ubururu, inyuguti zandikishije amabara y'umweru, ibishushanyo by'ikirangantego birimo ingabo, ishaka, n'agaseke nabyo byandikishije amabara y'umweru.

Umukobwa ufite imisatsi isutse miremire yambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara, arimo gutanga ukuboko kuko barimo kumupima umuvuduko w'amaraso bakoresheje ikintu gihambira ku kuboko kikaba cyabwira umuganga uburyo umuvuduko w'amaraso umurwayi afite uhagaze.

Abana bato b'abanyeshuri barimo kuganira n'ababyeyi babo, uw'umugabo n'uw'umugore ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, mu bana, mu muryango bicaye bavuye ku ishuri bambaye impuzankano y'ishuri bigaho.

Umurwayi urembye cyane akikijwe n'abaganga barimo ku mubaga ndetse harimo n'umuganga umwe w'umuzungu, barimo kumwitaho cyane bamwongerera umwuka kuko ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse ashobora kuba yakuramo n'urupfu.

Igihugu cya Nigeria barimo barakingira urukingo rwa kovidi cumi n'icyenda, umugabo umwe arimo arakingira undi, bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo barusheho gukaza ubwirinzi, ndetse umukingira yambaye n'ingofero, n'indorerwamo z'amaso ndetse na jile imuranga.

Icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru ndetse n'andi magambo y'umuhondo. Ay'umweru yanditse mu nyuguti nini zanditseho ngo twirinde. Ay'umuhondo yanditse mu nyuguti ntoya ziri munsi y'ayo y'umweru handitseho ngo indwara y'ubushita bw'inkende.

Umwana urimo kwitabwaho n'umuganga kugira ngo aze kumuvura neza umwana adafite ubwoba aramureka akamukinisha akamwereka ibikoresho akoresha mu kumuvura, akareka umwana akabikoraho noneho akaza kubona uko amuvura umwana adafite ubwoba bw'umuganga bakundanye.

Inama y'igihugu iyobowe na Minisitiri w'Ubuzima yiga ku cyorezo cya Marburg, cyari kimaze kuzengereza igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ku itariki ya makumyabiri, ukwezi kwa cumi, yari iyobowe n'Umuyobozi mukuru waturutse mu bihugu byo hanze ndetse na Minisitiri w'Ubuzima.

Inyubako igezweho ndende y'igorofa, ifite amabara y'amarangi y'umweru ndetse ibirahuri byabyo birijimye cyane, hari indabo nziza ziri iruhande rw'inyubako, ariko imbere yayo hari amabendera atatu y'umweru yanditseho ngo Biothech.

Umubyeyi urwaye aryamishijwe ku gatanda ko kwa muganga. Aryamye agaramye umuganga amu iruhande, arimo kumufata igipimo gifata umuvuduko w'amaraso kugira ngo abashe kubona imiterere y'umutima we.

Icyumba cyo kwa muganga babyarizamo ababyeyi bababaze, agatanda ababyeyi babyariraho, amatara amurika cyane abaganga bifashisha barimo kubaga, aho bashobora gutereka umwana umaze kubagwa ndetse n'amamashini bifashisha igihe barimo kubaga umubyeyi

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo nziza z'amaroza ndetse n'iz'ibara ry'icyatsi, buri iruhande rw'inyubako nshyashya y'ivuriro, umugabo arimo aratambuka avana umwana kwa muganga ndetse n'undi uri mu bitaro, ufite agakoresho k'isuku agiye gushaka amazi aho ayavoma.

Icyumba cyo kwa muganga cy'ibitaro kirimo ibitanda byiza bishyashya bishashe neza biriho n'inzitiramubu zimanitse hejuru y'ibitanda. Nta gitanda na kimwe kiryamyeho umurwayi kandi hagiye harimo amarido ashobora gukingiriza uwuri ku gitanda kimwe uwundi ntamubone, gusa byose biriho ubusa.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge ni inyubako nziza cyane ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse yubakishije amatafari ahiye. Imbere yayo hari ibiti byiza ndetse n'indabo ngufi bishinzwe gutanga umwuka mwiza wo guhumeka imbere mu bitaro ndetse no hanze yabyo.

ikigo nderabuzima cya kigina kirakinguye, hafite isuku rwose nziza, umubyeyi azanye umwana we kumuvuza amuhetse ku mugongo, afite n'agatambaro k'umweru ko kumutwikiriza imvura n'izuba.

Intebe eshatu zo mu biro n'ameza yazo, ziteretse hagati y'intebe icyenda zo mu ruganiriro, ziteguye ahantu bakirira abantu baje kwaka serivise.

Ga uri mu ivuriro akoreramo arimo aratambuka yambaye impuzankano y'ivuriro ryabo rifite amabara y'ubururu, aratambuka agana aho bagenzi be bari barimo kuganira ku bijyanye n'akazi kabo.

Icururizwamo imiti itandukanye ivura abantu yitwa progss famas harimo imiti myinshi itenze neza muma etageri y'ibirahure kugira ngo umurwayi uza kuyigura aze kuyibona yitonze kandi ifite ubuziranenge bwose izira umwanda.

Sale y'ikigo gikoresha abantu imyitozo ngororamubiri nk'uburyo bw'ubuvuzi, hateguye neza munsi y'ikibaho bigiraho, hari ivaze irimo ururabo rwiza rutoshye rw'ibara ry'icyatsi n'intebe iri iruhande rw'iyo vaze nayo iteguye neza ifite isuku.

Inyubako y'igorofa igeretse gatatu yubakishije amatafari ahiye y'ibitaro byitwa Polikirinike do Letware, ni ibitaro bikomeye ndetse iyo nyubako yabyo irakomeye ihagaze iruhande rw'umuhanda, ushobora kwifashishwa n'abantu bagana ibyo bitaro.

Inzu icuruza imiti y'abantu, yitwa Progress Pharmacy, irimo imiti itandukanye mu ma etageri meza y'umweru afite isuku, ndetse itenze imiti imwe imwe itandukanyije bitewe n'ubwoko bw'imiti ibarizwa muri iyo nzu icuruza imiti.

Agahinja kamaze kuvuka, kari mu bigoma by'abana bavutse uwo mwanya, bifite amabara y'iroza bigaragara ko ari umukobwa, acigatiwe n'abaganga bamaze ku mubyaza babiri b'abagore.

Sare mberabyombi igezweho, irimo intebe nziza zihina ndetse n'aho abayobozi b'inama baba bicaye zitenze neza ku murongo, ku buryo ab'imbere badakingiriza ab'inyuma.

Inyubako eshatu nshyashya nziza, buri yose igiye ari igorofa y'amagorofa atatu, iruhande rwayo hanyuraho umuhanda urimo abantu benshi, abagabo n'abagore barimo gutambuka bihuta bagana ku murimo, ukorerwa imbere muri iyo gorofa.

Inyubako nziza y'igorofa igezweho igeretse inshuro eshatu yubakishije amatafari ahiye isize amarangi meza y'umweru ifite n'ibirahure byijimye bisa n'ubururu, iri iruhande rw'ubusitani bwiza bwa pasuparume ndetse buteyemo amatara yo mu busitani.

Abantu batatu baje kwa muganga kugira ngo babonane na dogiteri abavure, babanza kwakirwa n'abaganga babiri babugenewe, bakira abarwayi kugira ngo babahuze na dogiteri, babanje kwakira umugabo umwe wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu ndetse n'ingofero kugira ngo narangiza, bakire n'abandi basigaye bategereje.

Abaganga bane b'abagore b'ababyaza bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi babyariramo, ifite amabara ya orange n'ay'umweru n'ibirahure mu madirishya, bambaye udupfukamunwa two kwirinda covidi cumi n'icyenda ndetse n'impuzankano y'ababyaza.

Ivuriro aho bavurira abana, imiryango irafunze nta muntu urimo kwinjira, hejuru hariho inyuguti nyinshi bakoresheje, byanditseho ko ariho bavurira abana bakoresheje amabara menshi, kugira ngo bagerageze gushimisha abana bahinjira bibarangaze.

Abaganga bagiye mu muhanda, bagenda batanga ubutumwa ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, muri iki gihe cy'icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi.

Icyumba cyo kwa muganga, gishinzwe gukorerwamo ibizamini by'abarwayi, kirimo intebe y'umuganga n'amamashami atandukanye, ashinzwe gukora ibizamini no gutanga ibisubizo by'uburwayi, umurwayi yaje arwaye.

Aho ababyeyi batwite babyarira, inzu nziza nshyashya kandi ikomeye, yubakishije amatafari ahiye, ifite purafo nziza, n'isima nziza ifite isuku, imbere hari intebe ziteguye kugira ngo ababyeyi baza babe bazicayeho.

I Gahini, ikigo gishinzwe gufasha abantu bagize ibibazo by'umutwe cyane cyane ababitewe no gufata ibiyobyabwenge bitandukanye, hari inama yahuje abantu batandukanye ndetse abayiyoboye ni abantu bane, abagabo batatu n'umugore umwe, buri wese bafite icupa ry'amazi yo kunywa hariho n'umufotogarafe urimo kubafata amafoto na videwo.

Ivuriro ryubatse ku buryo bw'igorofa rigeretse kabiri, imbere hari imodoka n'abagabo bane baje kugana iryo vuriro ndetse n'abandi bane b'abakozi bari ku ruhande rw'ahagana hepfo y'ivuriro.

Ababyeyi bagiye gupimisha abana ibiro kugira ngo bamenye mu mikurire y'umwana uko ihagaze, umwana w'umukobwa mutoya bamushyize ku munzani bapimisha icyenda kimeze nk'ikariso, kugira ngo bapime ibiro by'umwana barebe imikurire ye.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo amamashini atandukanye afasha abantu kugorora umubiri wabo, harimo amatara yaka neza kugira ngo amurikire abarimo ndetse bakore imyitozo ngororamubiri batekanye.

Inyuko yo kwa muganga, buri muryango urerekana ibyerekezo byo gufungura urugi, hari ururabo rwiza ruteguye iruhande rw'umuryango rutoshye kugira ngo rujye rutanga umwuka mwiza muri iyo nyubako.

Urugi runini rw'ubururu, rukinga urupangu, rufite inyuguti za H ebyiri hafi y'inzugi, rufite amapine, rufunze urupangu, kandi hanze y'urupangu, hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse n'igiti kinini cy'icyatsi, cy'inganzamarumbo.

Icyumba cyo kwa muganga abaganga babagiramo umurwayi, giteguye neza kirimo isuku, ibitanda byo kubagiraho abarwayi, bishashe neza, amashuka y'umweru n'uburura, amamashini atandukanye, bifashisha mu kubaga umurwayi n'amatara amurika cyane iyo barimo kubaga umurwayi, kugira ngo babe bareba neza.

Umuganga wita ku basheshe akangohe ari kumwe nabo, arimo arabafata ibipimo bitandukanye, harimo iby'umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye uko ubuzima bwabo buhagaze abashe kubona uko abakurikirana ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Igitanda cyo kwa muganga cy'umurwayi mubi bitaro, gikikijwe n'imashini nyinshi zifasha abaganga kureba ubuzima bw'umurwayi, yaba umuvuduko w'amaraso, imihumekere ye ndetse nuko ubuzima bwe buhagaze, mu bijyanye n'imiti barimo kumuhereza.

Umukobwa urwaye uryamye ku gitanda urimo kwitabwaho n'umuforomokazi hariho n'umurwaza we barimo kumwitaho kuko arembye cyane kugira ngo ubuzima bwe butamucika.

Idirishya rinini ririmo ibirahure. Riri iruhande rw'akarobine gatoya, kari iruhande rw'akagega ko hasi, gateye mu busitani buri imbere y'inzu ebyiri zubakije amatafari ahiye n'ikigega kinini cy'ubururu, gifata amazi ava kuri ayo mazu.

Icyumba abaganga bavuriramo abarwayi, harimo agatanda basuzumiraho, icyuma bakoresha mu gusuzumiraho abarwaye indwara barwaye, aho bakarabira intoki mu gihe bamaze gufata ibizami by'umurwayi ndetse n'ububiko bashobora kubikamo ibikoresho bitandukanye umuganga akoresha.

Icyumba bapimiramo abarwayi indwara z'umubiri wose. Agatanda gasashe neza k'umukara kari iruhande rw'imashini zishobora kwereka muganga ibipimo birimo kugaragazwa n'umurwayi uri muri iyo mashini. Byose bifite amabara y'umukara ari agatanda n'izo mashini, uretse ibitereko byayo bifite amabara y'umweru.

Mu cyumba bavuriramo indwara z'abagore, hari agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'imashini bashobora kwifashisha mu kureba mu nda ikibazo umurwayi afite cyangwa se umwana arimo niba ameze neza.

Umugabo ari wenyine, yambaye imyenda y'umweru, araseka yishimye kuko ari kwa muganga bamaze kumukorera ibyo yifuzaga ko bamukorera, anejejwe n'uburyo yakiriye ubutabazi yahawe.

Umuganga ushinzwe gukora ibizamini by'abarwayi, yambaye impuzankano y'abaganga, yambaye agapfukamunwa ku mazuru kugira ngo yirinde Kovidi cumi n'icyenda, afite ikizamini arimo gukoresha imashini yabugenewe kugira ngo amenye uburwayi bw'umurwayi.

Icyumba gishinzwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, bakoresheje amagare yabugenewe, ni meza afite amabara y'umukara, ndetse aba afite n'akantu imbere kameze nka mudasobwa, kakwereka umuvuduko urimo gukoresha.

Inzu y'ibitaro, umwanya wo kwakiriraho abantu, ho ufatira amakuru atandukanye, kugirango ubashe gusobanukirwa ikikuzanye. Winjiramo imbere ubundi bakubwira amakuru yaho, bakakuyobora aho ugomba kujya, ukabona kuhajya ariho ukuye amakuru.

Imashini yo kwa muganga ifite ubushobozi bwo gupima umubiri wose ikaba yamenya uburwayi ubwo ari bwo bwose buherereyemo. Irafunguye agatanda akayinjizamo umurwayi kari hanze, kugira ngo umurwayi nibakamushyiraho bakande buto akinjiremo, maze imashini ibashe kwerekana kureka kuri ekara iri ku rukuta, uburwayi umurwayi afite.

Inyubako za kijyambere ebyiri, zubatse mu buryo bw'amagorofa ariko imwe yubatse mu buryo bwa muviringo ikoresheje amabuye akomeye kandi agezweho. Indi yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri ifite ibara rya oranje n'amadirishya y'umukara, ya yindi ya muviringo ifite amabara y'umukara n'irindi bara rito rya oranje ryegereye amadirishya nayo afite ibara ry'umukara.

Ikigo nderabuzima cya Macyazo, cyubatse iruhande rwa kaburimbo neza, cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati y'ubururu ndetse gifite ikigega gifata amazi y'imvura, hari ababyeyi batwite bavuye kwipimishirizayo ngo babashe kumenya uko ubuzima bw'umwana n'ubwabo buhagaze.

Umurwayi w'indembe uri mu bitaro, aryamye ku gitanda, akikijwe n'amamashini atandukanye afasha abaganga gucunga ubuzima bwe, ngo bakomeze kureba impinduka ziba mu mubiri we bitewe n'imiti barimo kumuha, kugira ngo agarure ubuzima bwiza.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cya Tabagwe zifite amabara y'umweru n'ubururu bwijimye cyubakishije amatafari ahiye. Abantu benshi bazindukiyeyo kugira ngo bajye gufata imyanya hakiri kare baze kuvurwa uburwayi butandukanye, bavuze abana ndetse n'ababyeyi batangiye kwipimisha batwite.

Inyubako nini ikorerwamo ibizamini by'indwara cyane cyane marariya, ifite amabara y'umweru n'amabati y'ubururu, ifite amakaro y'umweru, umuganga wambaye impuzankano z'abaganga ahagaze imbere ku ibaraza ry'iyo nyubako.

Inzu ndende nziza y'ivuriro ifite ibara ry'umuhondo n'umukara n'amadirishya menshi, amatoya na manini. Iruhande rwayo hari ubusitani bwiza bw'indabo, buzajya bubafasha kubaha umwuka mwiza wo guhumeka.

Umusore urimo kwiteza urushinge rw'urukingo yamanuye ishati barimo kurumutera ku rutugu, arimo araruterwa n'umusore n'ubundi w'umuganga wambaye udupfukantoki, itaburiya y'abaganga ndetse n'ikarita yemeza ko ari umuganga wemewe n'igihugu.

Agatanda k'umurwayi asuzumirwaho gashashe neza aho igitambaro cy'umweru aho aryama, kari mu cyumba cyo kwa muganga basuzumiramo abarwayi, iruhande rw'amamashini atandukanye muganga yifashisha mu gupima umurwayi no kugira ngo amenye neza uburwayi umurwayi arwaye.

Abakozi bo mu bitaro bya Butaro, bafatiye ifoto y'urwibutso ku ibuye fatiro riranga aho ibyo bitaro byubatse, harimo ab'abera ndetse n'ibirabura bishimiye iyo foto y'urwibutso kuko izahora ibibutsa umurimo mwiza w'ubwitange bakoreye muri ibyo bitaro.

Ibitanda bine by'abarwayi biri mu bitaro byose biriho ubusa nta murwayi n'umwe uriho bishashe neza byiteguye kwakira abarwayi, hariho n'uduti tumanikwaho serumu ziterwa abarwayi.

Abarwayi bicaye imbere y'aho bafatira ibizamini by'uburwayi bwabo bategereje kwakira ibisubizo, bicaye ku ntebe imbere y'idirishya ry'ukora ibizamini kugira ngo aze guhamagara umwe umwe amuha ibisubizo by'uburwayi bwe.

Ibitaro bya kijyambere biragaragaramo ibitanda byiza by'abarwayi ndetse n'icyumba cy'abaforomo, amatara araka harakeye harimo ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu, ndetse n'ibara ry'icyatsi cyijimye.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirasa neza kirasukuye kirimo amamashini atandukanye afasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri, birukankirara ahantu hamwe bahagaze kuri iyo mashini, kikabafasha gukora nk'abarimo kwirukanka n'amaguru bisanzwe.

Aha ni mu cyumba bakiriramo indembe, gicanye amatara yaka cyane amurika neza, harimo amarange yera y'umweru ndetse ku bikuta hamwe na hamwe hariho ibara ry'ubururu ari na ryo ryanditseho ko icyo cyumba ari icyakira indembe.

Intebe z'amabara menshi ziteguye muri sale nini harimo amabara atandukanye: ubururu, oranje, icyatsi ndetse n'igishushanyo cy'akanyamasyo gikoze mu buryo bwa parasitike kinini, karimo gusohoka mu gikonoshwa cyako.

Umwana w'uruhinja nyina yazanye kuvuza, arimo ararira kubera gutinya abaganga, umuganga yambaye agapfukamunwa n'agapfuka mu mutwe n'itaburiye y'abaganga, arimo aramuvura, amufata ibipimo kugira ngo asobanukirwe neza uburwayi umwana arwaye, byose akabikora nyina amukikiye.

Ikigo cy'amashuri y'abana cyitwa Rwanda ciridireni kirisitiyani sikulu, imbere y'inyubako yacyo hari amabendera abiri, harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse mu karyango kayo gatoya, harimo harasohokamo umukobwa wambaye ijipo n'ishati y'umweru, inyubako zayo zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Intebe nziza za kijyambere umuntu ashobora kwicaraho arambuye amaguru neza ndetse akaba yanazirambika akaziryamisha umugongo akamera nk'uryamye, zifite n'akameza ku ruhande rw'iburyo, wowe ushobora kurambikaho ikintu urimo kwandika cyangwa se ikintu ushaka kunywa cyangwa kurya.

Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda rishinze mu busitani bwiza bwa pasiparumu, iri imbere y'inzu nziza ya kijyambere yubakishije amabuye meza yijimye, ndetse n'izindi ziri ahagana haruguru nziza z'umweru zifite n'ibiti binini by'icyatsi by'inganzamarumbo. Hagati y'amazu yombi hari umuntu urimo gutambuka wambaye umwenda w'umutuku n'umukara.

Inyubako ndende y'igorofa igezweho ifite amabara y'ubururu mu birarahure byayo n'inyuguti zandikishijwe ibara ry'icyatsi risobanura ko ari ibitaro bya polikirinike di palato imbere yabyo hari imikindo myiza ishishe.

Abarwayi bari mu Bitaro barimo kwitabwaho n'umuforomokazi wambaye itaburiya y'abaforomokazi, afite igipimo arimo kugenda abapimisha ndetse ababaza ibibazo bitandukanye. Uwo arimo kubaza yicaye ku buriri amuteze amatwi kugira ngo amusubize ibyo amubaza abashe kumukurikirana neza.

Amabendera atatu ashinze imbere y'ibitaro byitiriwe umwami Fayisari, imbere yayo hari abantu benshi barimo gutambuka bagana ibyo bitaro ndetse hari n'umugabo ushinzwe umutekano w'abinjira n'abasohoka.

Kwa muganga mu cyumba cyo kubagiramo abarwayi harimo amamashini menshi atandukanye, udutanda twinshi tw'abarwayi ndetse n'amatara manini amanitse hejuru muri parafo afasha abaganga kureba neza aho barimo kubaga kuko aba afite urumuri ruhagije.

Icyumba cyo kwa muganga, kibikwamo ibikoresho abaganga bifashisha, mu gufata ibizamini abarwaye, abarwayi, cyane cyane ibizamini by'amaraso, n'ibizamini by'umusarane kugira ngo babikore babashe kumenya nyirizina, ikintu umurwayi arwaye.

Inzu nini ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo hari amamodoka y'abarwayi, ay'abarwaza, ay'abaganga bakorera aho ngaho, ndetse n'imbagukiragutabara zishinzwe gutwara abarwayi b'indembe, hari n'umuntu ushinzwe umutekano w'aho ngaho imodoka ziba ziri.

Ibikoresho bikoreshwa n'umuganga arimo kubaga umurwayi, harimo agatanda umurwayi aba aryamyeho, intebe z'abaganga, amamashini atandukanye akoreshwa mu kubaga umuntu ndetse n'ububiko bumwe na bumwe babikamo ibikoresho bakoresha babaga umurwayi, n'amatara amurikira abaganga igihe barimo kubaga.

Ivuriro aho bakirira abarwayi, hari intebe ziteguye abarwayi n'abarwaza baza bakicaraho mu gihe bategereje kubonana na muganga ndetse hari n'izindi ntebe zabakira abarwayi babayobora aho abaganga babategereje ngo babashe kubavura.

Utwumba tubiri twegeranye, dutandukanyijwe n'agasika gatoya abaganga basuzumiramo umurwayi, harimo intebe ebyiri iy'umurwayi n'iy'umuganga ndetse n'ibikoresho bifashisha barimo gusuzuma uburwayi umurwayi afite.

Umuganga wita ku basheshe akanguhe, arimo araganira n'umukecuru, amutekerereza uko amerewe. Umukecuru arimo arabimubwira rwose amwizeye n'umuganga amuteze amatwi yombi kugira ngo abashe kumva urugendo rwabo rwo kumukurikirana, icyo yahinduramo ndetse n'icyo yakomerezaho kugira ngo umukecuru akomeze kumererwa neza.

Motari n'umugenzi na moto ye, baparitse imbere y'inzu icuruza imiti ivura abantu. Bagaragaza neza ubwishingizi bakorana ku rukuta rw'iyo nyubako mu mabara y'umutuku.

Umurwayi waje kwivuza arimo kuganira na muganga, muganga aramubaza uburyo arwayemo akabyandika, umurwayi nawe we agatekerereza muganga uburyo arwayemo, kugira ngo baze gushakira hamwe igisubizo cy'uburwayi bwe.

Icyumba cy'uruganiriro mu nzu yo guturamo giteguye neza, intebe ziteguye neza muri salo, ameza ateguye neza ariho indabo ndetse no mu nguni y'icyumba hateretsemo amavaze ateguyemo indabo nziza ziha umwuka mwiza abari mu cyumba cy'uruganiriro.

Umugore urimo kunywa amazi meza, afite agasatsi gakeya, afite igitambaro mu ijosi agenda yihanaguza ibyuya kuko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri kandi yabize ibyuya arananiwe cyane.

Ry'amazi meza yo kunywa ririmo gusuka amazi mu kirahure gisa neza cyogeje giteretse ahantu naho hafite isuku kugira ngo umuntu abashe kuyanywa amumare inyota kandi amuhe kugira ubuzima bwiza kuko amazi meza iyo yanyweye agufasha kugira ubuzima bwiza.

Abasore b'abatabazi bo mu muryango utukura barimo gutabara umuntu ugize impanuka, bamuterura neza kugira ngo babashe kumugeza ku baganga bamwiteho ariko bamukoreye ubutabazi bw'ibanze.

Urugaga rw'abakinnyi b'imikino njyarugamba bambaye imyenda ibaranga, umwe yambaye imyenda y'ubururu n'umukandara w'umukara, undi imyenda y'umweru n'umukandara w'umukara.

Ijosi, intugu, n'ibituza by'umusore, bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri cyane cyane iyo kwagura igituza cye n'intugu, afite ibimenyetso yiyanditse ku ntugu, bishushanyije amabara y'umutuku, n'ubururu.

Uusore wagize ikibazo cy'imitsi, arimo arakoresha ubuvuzi bw'ibintu bikonje, akandisha ku mitsi kugira ngo ububabare bwe bubashe kugabanuka, yazamuye umupira ndetse ibyo bintu bikonje arimo gushyirisha kuri iyo mitsi ye, bifite ibara ry'ubururu.

Abaganga barimo gukurikirana amabwiriza yo kwirinda kovidi cumi n'icyenda ndetse n'uburyo bagomba kubishyira mu bikorwa mu mirimo yabo ya buri munsi. Bambaye imyenda yabugenewe y'akazi kabo ndetse n'ubwirinzi bwa kiriya cyorezo, bambaye agapfukamunwa

Mu ibinini imikasi utuntu twongera umwuka, imiti y'amafu iri mu ducupa dufunze, udupfukamunwa, ibipfukisho, ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze.

Urukweto rumwe rwo gukorarana siporo rw'amabara atatu umweru, umukara n'umutuku, umupira wo gukinisha, umupira w'amaguru ufite amabara y'umweru n'umukara n'icyumvirizo cy'umuganga yumvirisha mu gatuza no mu mugongo, agirango yumve ubuhumekero bw'umurwayi uko buhagaze.

Umugabo urimo gukora siporo, afite imipira ibiri yo gukina, yambaye ikabutura y'umukara ngufi n'umupira w'umukara. Umudamu ufite ikibazo cy'ingingo, ari mu kagare k'abarwayi, yambaye ikabutura imwe y'umukara ngufi, inkweto z'umukara n'umupira w'umuhondo.

Umugabo wari urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara n'isengero y'umukara, yicaye mu busitani bw'ibyatsi bya pasiparumu. Arimo araribwa mu itako akandisha amaboko ye n'imbaraga ku bw'uburibwe arimo kumva.

Umurwayi ufite ikibazo mu ivi aryamye ku gatanda ivi yarihinye, umuganga arimo arakanda mu ivi agira ngo yumve uburwayi aho buherereye kandi akandisha intoki. Yambaye icyumvirizo mu ijosi akoresha mu kumviriza uburwayi bw'abantu agikoza mu gatuza no mu mugongo we akabyumvira mu matwi.

Ababyeyi babiri bari mu bitaro barwaje abana babo, baryamye ku buriri umwe aricaye, yicaranye n'umwana we kuko arimo koroherwa bagiye gutaha, undi araryamye aracyita ku mwana we mu gihe akirimo kuvurirwa muri iri vuriro.

Igare rigenderwamo n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane ingingo z'amaguru iyo zifite ikibazo ku buryo zitakandagira, umuntu yicaramo bakamusunika kakagenda kakamugeza aho agomba kujya, rifite amabara y'umukara n'ubururu.

Agatanda kitabazwa mu gihe harimo kuba ubutabazi bw'ibanze ku bantu bagize impanuka cyangwa se ibindi bibazo by'uburwayi bitunguranye, gafite imikandara ibiri bazirikisha umurwayi, ifite amabara y'umukara ndetse ubwako karasa n'umuhondo.

Umukobwa ufite ikibazo cy'imvune arimo aritabwaho n'umusore yicaye ku gatanda kabugenewe, arimo aramuhambira bande ku kuguru ahagana hepfo hafi y'ikirenge bigaragara ko yavunitse arimo kubabara cyane.

Ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti myinshi itandukanye, ikoreshwa n'abaganga mu buzima bwabo bwa buri munsi barimo gutabara abarwayi, harimo imikasi, udupfukantoki, udupfukamunwa, ibinini, inshinge ndetse n'indi miti ifunze mu macupa yo kunywa.

Uburyo ngorororangingo bwo kwivura ahantu umuntu yumva ababara, yaba imitsi cyangwa amagufa, ku bantu bakunze gukora imyitozo ngororamubiri, babikora bikanda aho ngaho bababara, bakoresheje imiti yabugenewe.

Ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze ku bantu bakorera mu muryango w'umusaraba w'umutuku croix rouge, birimo ibintu bitandukanye birimo udupfukamunwa, amajiri yo kwambara, imikasi, udukoresho dutandukanye two kwifashisha mu butabazi bw'ibanze.

Ubuvuzi bukoresheje imyitozo ngororamubiri bushobora gukiza indwara zimwe na zimwe z'imitsi n'iz'amagufwa, burimo butera imbere cyane ari nabwo iki kinyamakuru gishinzwe iby'ingorora by'imyitozo ngororamubiri byatwerekaga.

Umukobwa urimo kunywa amazi mu gacupa k'umweru gafite umunwa w'ubururu, amaze gukora imyitozo ngororamubiri, afite agatambaro ko kwihanaguza ibyuya mu ijosi gafite ibara ry'umweru, yambaye umukufi mu ijosi n'agasengeri gafite amabara y'icyatsi, ubururu n'umweru.

Inyandiko irimo kwerekana uburyo ushobora kuringaniza ibintu bitandukanye, harimo isukari, umuvuduko w'amaraso, kugabanya siteresi mu buzima bwawe, kugabanya ibiro, ndetse no kuringaniza imirire yawe, byerekanwa n'umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugirango ubashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ushinzwe kugorora ingingo akoresheje intoki, arimo kuvura umurwayi ahina ukuguru akurambura kugeza igihe kuri bumerere neza akabasha ku kugukandagirisha ameze neza.

Mutoya urimo guhabwa imiti n'abaganga ariko atayishaka, afashwe n'umuganga w'umuzungu ndetse n'undi muganga w'umwirabura amuri iruhande barimo gufashanya kugira ngo barebe ko bamuha umuti neza awufatate neza kandi utangiritse.

Ikiganza gifite amazi kirimo kuyasuka mu kirahure, amazi meza asukuye yo kunywa kugira ngo ashire inyota, kandi yirinde umwanda ushobora kuboneka mu mazi, wamutera uburwayi butandukanye.

Abantu babiri umwe aryamye ku gatanda, mugenzi we arimo aramufasha amugorora imitsi, bavuye gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kurambura anamukanda amaguru, undi aryamye neza ku buriri bwabugenewe, kugira ngo abashe kurambuka.

Cyo kwa muganga gifatirwamo ibizamini by'uburwayi umuntu afite. Hari agatanda n'imashini nini yinjizwamo, ako gatanda karyamyemo umuntu, kugira ngo ajye gupimwa muri iyo mashini, uburwayi bw'umubiri wose yaba afite.

Imodoka y'imbangukiragutabara, itwara abantu mu rwego rwo gutabara abagize impanuka ndetse n'abarwayi barembye cyane, ibakura ku ivuriro rimwe ibajyana ahandi, iri mu muhanda wa kaburimbo ahantu hamanuka mu ikorosi, irimo kwihutana umurwayi kugira ngo bajye kumwitaho.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri mu matwi kugira ngo azikore yumva umuziki na wo urafasha cyane mu gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agasengeri k'ibara rya oranje nta musatsi mwinshi afite ku mutwe, yazamuye amaboko hejuru kugira ngo arambure imitsi n'amagufwa by'umugongo.

Umukobwa wari urimo gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi meza asukuye arimo kuyanywa, afite imisatsi ihambiriye inyuma, yambaye agasengeri k'ubururu, yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri kuko ari ingenzi ku mubiri w'umuntu, kandi igihe uyikora ugerageza kunywa amazi cyane, kugira ngo akunganire kuko uba watakaje imbaraga nyinshi.

Agatanda kifashishwa mu butabazi bw'ibanze bw'abarwa cyangwag se abantu bagize impanuka gafite ibara ry'umuhondo, gafite imikandara itatu y'ibara ry'umukara, bifashisha mu gufunga igihe baryamishijeho umuntu bagiye gukorera ubutabazi bw'ibanze.

No kunywa amazi afite icyaka cyane. Amazi meza ava mu icupa ajya mu kanwa ke asuka cyane kubera ko afite icyaka cyinshi . Yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri yabize icyuya cyinshi cyane. Yambaye imyenda ijyanye n'imyitozo ngororamubiri hamwe n'ibirahure by'amaso.

Umukobwa wambaye inkweto za siporo, kora nziza yabugenewe yo gukoresha siporo n'agasengeri, arunamye arimo ararambura imitsi y'umugongo n'amagufwa, iy'amaboko n'iy'amaguru n'iy'ijosi, yahinnye ukuguru kumwe, yarambuye ukundi.

Muganga ugorora ingingo z'abarwayi, arimo kugorora ukuguru k'umurwayi akoresheje imashini yabugenewe afasha umurwayi kugira ngo ukuguru kwe kubashe kurambuka ejo azabe ameze neza.

Umugabo ukuze warimo gukora imyitozo ngorora mubiri, arananiwe, arimo kuruhuka, afata icyo kunywa, ari cyo amazi meza asukuye, arimo ayanywa yishimye, abira ibyuya kuko yamaze gutakaza imbaraga nyinshi.

Ubuvuzi bw'ingororangingo, ufata umuti ukawuhambira aho wababaye cyangwa ahantu wumva wavunitse, bukagufasha mu kukunga amagufwa yawe, cyangwa se aho wagize ububabare bw'imitsi.

Ibidongi bitatu by'amabara atandukanye ubururu, umukara, umutuku, umuntu abyifashisha ari mu myitozo ngororamubiri, yihambira ahantu kugira ngo ku maboko cyangwa ku maguru kugira ngo yirinde impanuka ashobora kugira igihe arimo gukora iyo myitozo.

Inkweto ndende z'umukara zikomeye, zizamuye ku maguru. Zifunze na rase zazo kandi ni shyashya, zifite agapapuro kerekana ko zitarambarwa na rimwe. Ziteretse hasi, kugira ngo uza kuzigura, abone ubwiza bwazo neza.

Gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse bakoresheje amamashini atandukanye, harimo zimwe na zimwe bagendaho birukanka zitwa tapi wirukanka utava aho uri ariko ukamera nk'uwirukanka hanze, n'izindi zitandukanye ugendaho umeze nk'uri ku igare ariko byose ukabikora utavuye aho uri.

Icupa ririmo amazi meza yo kunywa asukuye, imbuto za pome, iz'amaronji, imetero ikoreshwa mu gupima umuzenguruko w'inda n'ibinure biwurimo kugira ngo bagabanye ubunini bw'inda y'umuntu igihe arimo kujya mu mubyibuho udasanzwe.

Urutirigongo rw'umuntu n'amagufwa arukikije yo mu mugongo, ndetse n'ukuntu ruteye kuva hagati y'amatako, kuzamuka kugeza ku ijosi, aho rugenda rukagera hafi y'ubwonko mu mutwe.

Umugabo urimo kunywa amazi akoresheje icupa rifite umunwa w'ubururu yambaye isaha, mu matwi yambayemo amayekuteri amufasha kugenda yumva umuziki, yambaye n'umupira w'umweru arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi n'isaha y'umukara, afite icupa ry'amazi meza arimo kunywa, kuko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yatakaje imbaraga nyinshi n'ibyuya, aragira ngo arebe ko yamugirira akamaro.

Icyumba cy'umuganga avuriramo umurwayi Kirimo: intebe y'umuganga, intebe y'umurwayi, ibyuma bakoresha basuzuma umurwayi bitandukanye, harimo ibyuma bimanitse bireba umurwayi aryamye n'ibindi umuganga areberaho bimeze nka mudasobwa.

Umugabo ufite ikibazo cy'imvune ku igufwa ry'ukuboko haruguru gato y'inkokora, arimo kwikanda cyane akoresheje ibikoresho byabugenewe, bikandisha igihe wagize ikibazo cy'imitsi cyangwa ikibazo cy'amagufwa.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ku rwego rw'ubuvuzi, harimo amamashini, harimo imipira ikoreshwa muri siporo ndetse n'udutanda umuntu ashobora gukoresha imyitozo ngororamubiri n'udusanduku abantu babikamo ibikoresho byabo.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'amaboko maremare y'umutuku yicaye imbere ya mudasobwa ye arimo kurebamo ibijyanye n'akazi ke yitonze abitekerezaho kugira ngo aze kubasha kunoza umurimo we.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ariko mu rwego rwo kwivura indwara zitandukanye zishobora gufata umuntu udakora imyitozo ngororamubiri, nk'indwara z'imitsi, iz'ingingo, iz'amagufwa.

Abagabo bane barimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse mu rwego rw'amasiganwa, barimo kwirukanka bazenguruka umuhanda wa kaburimbo bageze mu ikorosi rikomeye kandi umwe ari imbere arimo arakataza ngo abasige.

Umugabo wicaye yahinnye ivi, yambaye cora imufashe y'umukara,, yambaye impeta ku rutoki n,'igikomo cy'umukara arimo arakanda ivi rye cyane, arimo kuribwa n'uburibwe bw'imitsi n'imikaya ye yo ku itako.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye ziri iruhande rw'umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ni: umuneke, ironji, marakuja, pome, yiteguye kuzakira ngo azirye kugira ngo abashe gusubiza imbaraga mu mubiri we watakaje akora siporo.

Igitambaro cy'umukara bihambira ahantu bavunitse igihe ugize impanuka urimo gukora imyitozo ngororamubiri, uragihambiraho ahantu wagize ikibazo kugirango kibashe kunga amagufwa n'imitsi yagize ikibazo ntubabare cyane kandi ukire.

Umugabo urimo gukurura imyitozo ngororamubiri yambaye inkweto zabugenewe ikabutura ngufi n'umupira w'amaboko magufi apfukamishije ukuguru kumwe ukundi guhagaze guhinye arimo guterura ibyuma mu maboko yombi biremereye abifashijwemo n'umutoza we w'imyitozo ngororamubiri.

Imipira yo gukina itandukanye hari imipira yo gukina y'amaguru iy'amaboko ndetse n'udutoya tw'abana. Hari igipimisho cyumviriza imihumekere y'umurwayi umuganga akoresha acyambaye mu matwi yumviriza umurwayi mu gatuza no mu mugongo kugira ngo yumve uko ibihaha bye bihagaze.

Abakozi b'ikigo cy'ubutabazi cy'umusaraba utukura, bafite ibikapu byabo byabugenewe bigendamo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, bifunze neza ku buryo bidashobora kwangirika aho baba bari hose.

Umugabo urimo kunywa amazi meza akoresheje icupa ryiza risukuye, afite agatambaro mu bitugu ko kwihanagura ibyuya kuko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri kandi yayikoze neza.

Abana bari ku kibuga barimo kogeza umupira batakawe, barakurikiye cyane, bamwe bahagurutse bazamuye amaboko n'amaguru barimo abakoma amashyi, bishimira uko ibitego birimo gutsindwa n'amakipe barimo gufana.

Umwana mutoya urwaye barimo kumuvura, umuganga arimo kumumurika mu mazuru, kugira ngo abashe kureba uburwayi afite amupime neza, abashe kumenya umuti ari bumuhe wabasha guhangana n'ubwo burwayi.

Umurwayi aryamye ku gitanda yubitse inda, arwaye uburwayi bw'umugongo. Umuganga arimo aramuvura akoresheje akamashini gafite insinga n'utuntu yarambitse ku mugongo duhuza zansinga na ka kamashini arimo kureberamo uburwayi bw'umurwayi, kugira ngo amwiteho amavure atahe ari muzima.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororangingo yambaye inkweto n'imyenda zabugenewe, arimo kugorora amaguru ye n'amaboko umugongo n'imitsi y'umutwe, arimo arabigorora ari ahantu habugenewe.

Agatanda kifashishwa mu butabazi bw'ibanze bw'abantu barwaye cyangwa se abagize impanuka zo mu muhanda. Gafite imikandara itatu bazirikisha umuntu kugira ngo atabasha kunyeganyega igihe bakamuryamishijeho, noneho babone uko bamuterura neza atanyeganyega.

Umwana urimo gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye imyenda y'umukara yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, inkweto z'umweru na zo zabugenewe ndetse arambuye ukuguru kumwe ukundi araguhinnye, amaboko yose afashe kuri kwa kuguru kurambuye kugira ngo abashe kurambura umugongo neza.

Umugabo urimo kunywa amazi kugira ngo yikize icyaka kuko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri akaba ananiwe cyane, yambaye imyenda akorana imyitozo ngororamubiri kandi arimo anywa amazi ubona ko ayakeneye cyane.

Icyumvirizo umuganga yifashisha arimo kumva ubuhumekero bw'umurwayi. Agishyira mu matwi ibindi akajya abijomba mu gatuza no mu mugongo. Giteretse ku meza ariho andi mamashini atatu atandukanye yo gukoreshwa mu buganga basuzuma abarwayi.

Ibiganza bibiri birambuye neza by'umuntu ufite uruhu rwera, byambaye udupfukantoki dupfutse igikumwe gusa kuri buri kiganza izindi ntoki zose zipfutse ugeze muri kimwe cya kabiri cy'ingingo z'intoki. Ni ukugira ngo birinde ikiganza umwanda utandukanye.

Umukobwa uri iruhande rw'amazi menshi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri azamuye amaboko ye, yambaye agasengeri gatoya k'umweru n'ipantaro imwegereye cyane y'umukara, arambuye neza ingingo ze, afite n'imisatsi myinshi.

Agatanda k'abarwaye muri sale yo kwa muganga aho babagira abarwayi, gashashe neza hari isuku ndetse n'amamashani atandukanye afasha abaganga mu kubaga umurwayi hari n'amatara manini cyane amurika cyane igihe abaganga bari mu gikorwa cyo kubaga, abarwayi cyangwa umuganga uri muri iyi sale.

Amakarito atatu afunze neza arimo inyongeramirire. Si ihagije cyane ku bijyanye na vitamine ndetse n'imyunyungugu, umubiri wacu ukeneye mu buzima bwa buri munsi.

indabo nziza ziteye mu mavase zitoshye z'ibara ry'icyatsi zishinzwe gutanga umwuka mwiza ndetse zikoreshwa no mu buvuzi butandukanye bw'indwara zikunze kwibasira abantu

Ikinyobwa cyiza cyongera imbaraga gifunze mu icupa ryiza cyane ry'umutuku, amagambo yandikishije ibara ry'umweru, gikorwa n'ikigo cya Foreva, iki kinyobwa iyo ikinywaye kikongerera imbaraga igihe wananiwe.

Gifite ibara ry'icyatsi, gifite ishami rifite utubabi tw'icyatsi ariko tugiye twivanzemo akabara gakeya k'umweru, ibi bimera by'icyatsi bidufasha cyane mu kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Amavuta agenewe gusiga ku munwa meza akoze mu gikakarubamba, afunze mu gacupa keza ndetse arazamuye bigaragara ko ugiye kuyisiga ku munwa yiteguye kuyasigaho kugira ngo iminwa ye ibobere.

Umuti wa kinyarwanda w'agafu gaseye neza uri mu gapapuro k'umweru kari mu biganza bibiri by'umuntu umaze kuwusuka kugira ngo awukoreshe mu kuvura indwara zimwe na zimwe zifata abantu.

Umurima uhinzemo ibiti byinshi by'umuravumba. Biratoshye bimeze neza byakunze ubutaka ndetse n'imvura n'izuba byawugereyeho igihe. Umuravumba ni igiti cyiza gikoreshwa mu buvuzi butandukanye bw'indwara ndetse mu miti ya gakondo kizamo ari icya mbere.

Ibyo umuntu mukuru bifite agasekuru gakoze mu ibuye n'agahini kako gasekura imiti, gateretse ku musambi uboshye neza uteretseho indi miti itandukanye irimo imizi y'ibiti, imbuto zabyo, byose ari kugenda asekura kugira ngo atunganye umuti wo kunywebwa n'abantu mu buryo bwa gakondo.

Imiti ikomoka ku bimera ya gakondo yitwa ibitovu. Ibitovu bimwe biratoshye biba bifite amahwa, ibindi bitovu bimwe biratoshye ariko byazanye n'indabo nziza z'amaroze kuko bimaze gukura.

Imbuto za mandarena zihiye neza za oranje, harimo rumwe rusatuye ndetse n'urundi rubuto rw'ironji ry'icyatsi kibisi rudasatuye, rurambitse imbere z'iyo ya mandarena isatuyemo kabiri.

Ikimera cy'igikakarubamba ni ikimera cyiza cyane cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kinifashishwa mu gukora umutobe, amavuta, isabune n'ibindi bintu bitandukanye bikoreshwa mu isuku kandi kivamo n'imiti itandukanye nk'imiti y'indwara zo mu nda.

Uburoso bw'amenyo bubiri buteretse mu gakombe gakoze mu ibumba. Uburoso bukoze mu giti n'utuntu twoza amenyo dufite ibara ry'umukara. Iruhande hari umuti ushinzwe koza amenyo, ukozwe mu gikakarubamba cy'umwimerere.

Inyongeramirire n'imiti ndetse n'amasabune bikozwe mu giti cy'igikakarubamba, bifunze neza mu tujerekani ndetse no mu bikombe byabugenewe mu gihe biba bitegerejwe gutwarwa ngo bitangire bikoreshwe kandi bifite ubuziranenge.

Ubusitani buteyemo igiti gishishe neza gifite ibara ry'icyatsi. Ikiganza cy'umuntu gifashe ikibabi kugira ngo kigisarure kijye kugikoresha mu bijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo avure indwara zitandukanye zirimo kumwadukira zimufata mu buzima bwe.

Isabune nziza yo gufura mu mutwe ifunze mu gacupa keza k'ibara ry'icyatsi n'umweru ikoza mu gikakarubamba, ni ingirakamaro cyane iyo uyikoresheje igukiza ibibazo by'imvuvu n'ubundi burwayi bushobora kugaragara mu musatsi nk'ibihushi.

Igiti gitoshye gifite ibara ry'icyatsi giteye mu butaka bwiza kuko bigaragazwa n'uburyo gishishemo, gishobora gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ku bantu ndetse kikaba cyavamo n'imiti itandukanye.

Amavuta atandukanye n'amasabune yo koga mu mutwe ndetse no koga ku mubiri bikorwa mu gikakarubamba cy'umwimerere bikozwe n'ikigo cyitwa forever. Bifunze mu dufungisho dutandukanye bitewe n'icyo ari cyo isabune zifunze neza n'amavuta afunze neza.

Umuti uvura indwara z'abana witwa etramu c magana atanu. Ufunze mu ikarito nziza ifite ibara ry'umweru n'umutuku kugira ngo ribike neza umuti urimo imbere utangirika uzakoreshwe n'umurwayi umeze neza ugifite ubuziranenge wakoranywe.

Igiti kivura ku rwego rwa gakondo cyitwa umuravumba, gifite ururabo rwiza rw'umuhondo ndetse n'ibindi bice by'ururabo bitangiye kuma, kivura indwara nyinshi zijyanye n'iz'ubuhumekero.

Icupa rifunze neza riri mu bwoko bwa pulasitike riri mu kiganza cy'umuntu urifashe kugira ngo abashe kurifotora ririmo amavuta akozwe mu gikakarubamba meza cyane ku ruhu rw'umuntu uyisiga kuko rutuma umubiri w'umuntu uhorana ububobere.

Igiti cyiza gitoshye cy'ibara ry'icyatsi giteye mu busitani bwiza bukikijwe n'amabuye y'umweru n'umukara, kiratoshye kimeze neza cyahuye n'izuba ryiza rikwiriye n'imvura ikwiriye, kimeze uko umuhinzi wa gihinze yabishakaga kuko kigira uruhare rukomeye mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta, ubuki, imibavu, umutobe, byose bikozwe mu gikakarubamba cy'umwimerere, bifasha ababikoresha kugira ubuzima bwiza.

Icyatsi kirekire kirandaranda, gifite utubabi dutoshye tw'icyatsi kibisi, kirambuye ku gitambaro cy'umukara ndetse kiri kumwe n'agapapuro karekare k'umweru, byose biryamye ku gitambaro cy'umukara kirambuye ku meza.

Abahinzi batandatu bari mu murima w'icyayi barimo gusarura, basaruye uruhande rumwe barimo baragenda ku murongo basarura igihande kimwe, bakirangiza bagasarura n'ikindi, bahetse ibikapu mu umugongo basarura bashyiramo, ndetse bagenda bunamye kuko icyayi kiba ari kigufi kuri bo.

Amavuta meza akozwe mu gikakarubamba cy'umwimerere agenewe gusigwa mu biganza . Ari mu macupa atandatu afunze neza ateretse ahantu yubitse. Afite amabara y'umweru ndetse n'ay'icyatsi yanditsemo ibirango by'ikigo biyakora.

Ikimera gitoshye cyane gifite ibara ry'icyatsi, ni ururabo rusanzwe ruraba, ururabo rw'umutuku rwiza ruba mu busitani, kiratoshye kiri mu butaka bwiza ndetse cyabonye imvura nziza n'izuba rikwiriye, kuko uko kigaragara kirerekana ko gifite ubuzima bwiza.

Isabune ikoze mu gikakarubamba, yo koza mu mutwe, ni nziza ifite amabara y'icyatsi n'umweru, ikoreshwa neza kuko iva mu byatsi by'umwimerere.

Umuti wa gakondo ukoze mu giti kitwa igikakarubamba, ufunze mu icupa ryiza ndetse ufunze neza ku buryo ushobora kureshya abawifuza kuwugura ni umuti mwiza wo gukoresha mu bimera, ukoze mu bimera.

Icupa rifunze neza harimo umutobe ukoze mu gikakarubamba, rifite amabara ya oranje, umweru, icyatsi ndetse hariho n'ikirangantego cyerekana ko ikozwe mu gikakarubamba ndetse ryakozwe n'ikigo cyitwa Foreva.

Menshi ateretse kuri etageri harimo imiti itandukanye, ndetse n'ibyo kunywa byose bikoze mu byatsi bya gakondo by'umwimerere. Harimo afite imifuniko y'icyatsi kibisi ndetse n'afite imifuniko y'imihondo ndetse n'imituku byose biteganyirijwe kuzatwarwa n'abantu bafite indwara zitandukanye kugira ngo bajye kuyivurisha.

Mu nzu nini ya kijyambere bahingamo ubuhinzi ku buryo buteye imbere iba itwikiriye, irimo imiravumba ihinzwe mu bitete kugira ngo bazayigemure bajya kuyihinga mu murima ahantu hisanzuye kuko ivamo imiti myinshi ivura indwara.

Igiti cy'umugomba kimera ahantu higanje amazi nko mu gishanga, gikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara z'abana ndetse n'iz'abantu bakuru cyane cyane indwara zifata uruhu, nko mu maso ndetse ku maguru no ku maboko.

Inyuguti nini ya ma ihagarariye ikigo cyitwa akagera medesine gikora imiti ya gakondo ifasha mu buvuzi bw'abantu batandukanye.

Umukobwa ucuruza imiti ikomoka ku bimera ahagaze inyuma ya etajeri ibitsemo iyo miti itandukanye ari naho abakiriya be baza kuyigura baza bayisanga akabona kuyibaha.

Uhagaze mubyatsi byinshi yambaye imyenda y'umutuku, umukara n'umweru. Afite ishami ry'igiti rifite amababi menshi atanga imiti ivura indwara mu buryo bwa gakondo.

Umugabo uteruye mu maboko imiti ikomoka ku biti bya gakondo bivura. Harimo amababi y'igiti cya Ngabo, amababi y'imihati, yambaye impuzankano y'akazi akorera n'ikarita imuranga.

Ubusitani butandatu bw'indabo zitandukanye, iz'umuhondo, iz'umweruz, iz'amaroza iza oranje, iz'icyatsi kibisi, n'iz'umutuku ,zihumura neza kandi zitanga umwuka mwiza cyane wo guhumeka, ufitiye akamaro abanyarwanda n'abaturage muri rusange bisi yose.

Ipapayi rimeze neza rirahiye rikwiye kuribwa kuko rigirira umubiri wacu akamaro kenshi, rirasa ibara ry'umutuku ryerekana ko rihiye neza, rifite imbuto z'umukara zikomeye kandi nyinshi bigaragara ko ryari ryeze neza.

Amashami y'igiti afite ibara ry'icyatsi, amenyerewe mu gukoreshwa mu buvuzi gakondo, ateye mu rugo rw'umuntu imbere kugira ngo ajye abungabunga imikurire y'icyo giti, kuko ari ingirakamaro mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye iva mu bimera, irimo tangawizi, amaronji mabisi, ibibabi by'ibiti, imizi y'ibiti byumye, ndetse n'utundi turabo tw'umutuku, iri ku gasekurisho kugira ngo bayisekure, bayibike mu tubindi twabugenewe duteretse iruhande rwayo.

Imiti n'amasabune akoreshwa mu kurwanya umwanda byose bikoze mu giti cy'umwimerere cy'igikakarubamba bifunze mu macupa meza n'ubujerekani ndetse n'udukarito, birindiriye gukoreshwa.

Igikombe cy'umweru kirimo icyayi, bakatiyemo indimu ndetse n'ibice bya tangawizi kugira ngo bibashe kugirira akamaro umubiri w'umuntu ugiye gufata icyo cyayi.

Umuti wa gakondo ukoze mu bimera byitwa igikakarubamba, ufunze mu macupa abiri meza apfundikiye neza ndetse n'undi uri mu kirahure wo gukoreshwa.

Amacupa arimo amavuta n'amasabune y'ubwoko butandukanye meza akoze mu gikakarubamba, yifashisha mu kurwanya umwanda, afunze mu ducupa twiza amatoya n'amanini bitewe n'ingano bakeneye.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa bikorwa mu nganda, kigizwe n'amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi n'igihuga ndetse n'umweru ni wo wanditsemo ayo magambo.

Ibinini byinshi bito bito bifite ibara ry'icyatsi, biri mu gakoresho babiyoresha babikura mu gikombe birimo ari byinshi bagirango ngo babone uko bibisuka mu gashashi umurwayi abona uko bitahana.

Ubuki bw'inzuki butunganijwe neza bufunze mu icupa ryiza ryareshya abakiriya, bukorwa n'ikigo cyitwa Foreva, ndetse bugatunganywa neza bufite ubuziranenge kugira ngo, uzabwakira mu mubiri we buzamugirire akamaro gakomeye.

Umuti bifashisha mu gukaraba intoki igihe utaba ufite amazi yo gukaraba intoki kugira ngo uzitunganye, ufunze mu gacupa keza gakoze mu gikakarubamba gakorwa n'ikigo cyitwa Foreva kugira ngo bafashe abantu mu kwisukura intoki zabo.

Umurima uri ahantu hahanamye. Urimo igiti cy'umuravumba cyakuze, gifite amababi menshi ashobora gusarurwaho akavamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura cyane cyane indwara z'ubuhumekero. Hasi harimo utundi twatsi turandaranda ndetse n'uruyuzi rutanga amadegede.

Ibiganza by'umuntu urimo gusekura mu gasekuru k'umweru n'agahini kako k'umweru, arimo gusekura imiti itandukanye ya gakondo akoresha mu buvuzi bwe bwa buri munsi, avura indwara zibasira abantu.

Ku murima urimo ibyatsi byinshi, bigenda bitondagirana ku bindi, amashami y'umukindo yaraguye, ibindi byatsi biyatondagiraho yenda kuma ndetse n'irindi shami rigwa hejuru yayo yatondagiye kuri iryo ririmo kuma, byose byabaye inzitane.

Umugore urimo gusarura amababi y'icyatsi kirandaranda, iyo ugiteye kirandanda ku rugo cyangwa se ku giti, afite isakoshi y'ikigina ku kuboko, yifubitse igitambaro cye cy'umweru ndetse afite imisatsi myinshi y'umukara.

Ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye hari byakuze cyane biba birebire ndetse n'izindi ndabo ziciye bugufi zidafite amabara y'umuhondo n'ayumutuku, bishobora gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ku babyegereye ndetse bikavamo imiti itandukanye y'uburwayi bwibasira abantu.

Amavuta akoze mu gikakarubamba meza agenewe gusigwa mu ntoki, afunze mu macupa abiri meza, rimwe rifite amabara y'umweru n'icyatsi, irindi rifite amabara y'umweru n'aya orange. Hari isabune nziza yo gukaraba umubiri wose, iteretse ku gasahani kabugenewe gaterekwaho amasabune.

Ubusitani burimo amavase akoze mu ibumba ateretse hasi ku itaka, bwamezemo indabo zo mu bwoko bw'ibiti bufite amashami maremare ariho utubabi tw'icyatsi kibisi, ibyo biti byarakuze byigira hejuru kuburyo rwose bimaze gukomera ku rwego n'amavase yenda gushwanyuka.

Umuvuzi gakondo uvura akanacuruza imiti ya gakondo, ahagaze mu iduka ricuruza iyo miti kandi irimo myinshi itandukanye kugira ngo umurwayi naza abashe kuyibona bimworoheye cyane.

Icupa ry'umubavu basiga mu kwaha, rifunze neza, rifungishije agafuniko karyo k'umweru ndetse rigaragaza ikirango cy'ikigo kirikora ko rikoze mu gikakarubamba cyiza cy'umwimerere.

Ibikombe byinshi bitenze neza muri etajeri, biteretse kimwe hejuru y'ikindi, birimo imiti ifunze neza ikozwe mu bimera, hiteguye kuzakoreshwa ivura abantu indwara zitandukanye.

Imboneza mirire zifite akamaro cyane ku mubiri w'umuntu uziriye, zifunze mu makarito atatu, zikungahaye cyane ku ntungamubiri, ku myunyu ngugu ndetse no ku bituruka ku mbuto, ni ingirakamaro cyane ku mubiri uzifasha.

Iduka ricururizwamo imiti ituruka ku bimera ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa irimo abakozi babiri bakoramo, ukora amasuku wunamye arimo kuyakora ndetse n'ushinzwe gucuruza uhagaze i ruhande rwa firigo ibika imiti imwe n'imwe.

Igiti cy'umuravumba ni igiti kivura cyane indwara nyinshi cyane cyane iz'ubuhumekero n'iz'inkorora, cyaratemwe kirongera kirashibuka bundi bushyashya ndetse kiratoshye ku buryo umuntu wagishakaho umuti wese cyamugirira akamaro.

Ibintu bitandukanye bikozwe mu gikakarubamba cy'umwimerere, byo kwita ku ruhu rw'umuntu bikozwe n'uruganda rwa Forever. Harimo amavuta yo gusiga ku ntoki, amasabune yo gukaraba, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye yo gukaraba ku ruhu rw'umuntu.

Igihingwa cya tungurusumu cyeze neza, cyumye neza, birunze ari byinshi mu gihe bategereje kubishyira mu bubiko bwabyo kugira ngo bibikwe neza bitazangirika kuko babifashe neza mu gihe cyo kubisarura.

Mu kibaya gihinzemo imbuto nyinshi, harimo imashini irimo guhinga ndetse n'umuntu ushinzwe kuyihingisha. Abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore, bazindukiye mu rugendo shuri muri uwo murima, bambaye impuzankano y'ikigo bakorera, harimo amabara y'icyatsi, umweru n'ikigina ku mupira bambaye, hasi bakambara umwenda w'umukara.